Iki ni icyumba cy'inama cyangwa icyumba cy'uruganiriro cyubatswe ku buryo bugezweho harimo abantu batandukanye harimo abagore n'abagabo aba bantu barimo bafite mudasobwa zitandukanye bari gukoresha mu mbwirwaruhame bari guhabwa.

Ihuriro ry'abantu benshi batandukanye harimo abagore ndetse n'abagabo ndetse kandi bakaba bari mu cyumba cy'uruganiriro kirimo intebe nziza ndetse n'ameza baterekaho mudasobwa n'ibindi bipapuro bakaba bari kuganira ku ngingo zitandukanye ndetse batanga n'ibitekerezo.

Ihuriro ry'abantu benshi, harimo abagabo ndetse n'abagore bahuriye mu cyumba cy'uruganiriro, muri ino nama hakaba abantu batatu mbere bari gutanga imbwirwaruhame ku bantu babakurikiye harimo abasore ndetse n'abakobwa, ndetse muri ino nama bakaba bicaye ku ma meza ariho amacupa y'amazi yo kunywa.

Ihuriro ry'abantu benshi harimo abagabo n'aba bose bahagaze bari gukurikira ibiri kubera imbere, iyi nzu ikaba irimo imitako n'amatara meza atandukanye, ndetse bashyi ibintu n'intebe zo kwicaraho.

Ihuriro ry'abantu benshi bahuriye hamwe mu cyumba cy'inama, bambaye imyenda isa abenshi ndetse harimo abagore n'abagabo, bambaye udupira dusa dusa nk'ubururu ndetse harimo umugabo wambaye umupira w'umukara ndetse yambaye n'ikarita y'akazi ari kugenda atanga ibitekerezo ku bantu bitabiriye.

Ihuriro ry'abantu benshi batandukanye bari mu cyumba cy'inama, kandi muri iki cyumba cy'inama harimo abantu benshi ndetse bicaye ku ntebe nziza z'ubwoko butandukanye, ndetse imbere yabo hateretse ameza, bafite kandi amazi yo kunywa ari mu ducupa tw'Inyange.

Ihuriro ry'abantu benshi bahuriye mu cyumba cy'uruganiriro, hakaba harimo abantu batandukanye, harimo abagore ndetse n'abagabo, imbere kandi hakaba hicaye abantu bari gutanga ikiganiro ku ngingo runaka bateguye. Iyi nyubako kandi ikaba irimo imitako myinshi ndetse ikaba irimo n'intebe zo kwicarwamo.

Ihuriro ry'abantu benshi batandukanye harimo abagore ndetse n'abagabo, hakabamo umugore wicaye hagati wambaye amadarubindi ndetse afite n'imisatsi miremire, igihe huriro ry'abantu bahuye bari mucyumba cy'inama kirimo imeza ndetse n'intebe z'ubwoko butandukanye kuri izi meza hakaba hateretse amazi abantu bari kunywa.

Umugabo wambaye ikoti ry'ikigina afite icyuma ndangurura majwi mu kuboko kw'iburyo bwe, ahagaze impande y'akameza k'ikirahure kateretsweho terefone ndetse n'udutabo, ari imbere y'abantu bicaye, inyuma yabo hakaba hariho icyapa gisize ibara ry'umweru, ndetse n'ubururu cyanditsweho amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda.

Aba ni abantu batatu harimo abagabo babiri ndetse n'umugore umwe, bari mu nama bungurana ibitekerezo ndetse umwe yambaye umupira w'u Rwanda, undi yambaye ishati nziza, undi mugore afite ibisuko ndetse yambaye umwenda mwiza w'abagore. Imbere yabo hateretse ubucupa bw'amazi bw'inyange ndetse hari na mudasobwa zibateretse ku ruhande.

Iri ni ihuriro ry'abantu benshi harimo abagore, n'abagabo, abasore, ndetse n'abakobwa. Bari bari mu nama igamije kwegeranya ibitekerezo no gukusanyiriza ibitekerezo hamwe, ku mishinga ifitiye akamaro igihugu, ndetse no guteza imbere urubyiruko.

Ihuriro ry'abantu benshi harimo abagore n'abagabo bicaye mu byatsi ndetse abandi bakaba bicaye ahantu hateganyijwe kwicarwa .Hakaba harimo ndetse n'ibendera ryubahiriza igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibindi byapa byamamaza ,bakaba bari kuganira ku ngingo zitandukanye zifitiye abaturage akamaro.

Ihuriro ry'abantu benshi batandukanye harimo abagore ndetse n'abagabo, harimo kandi abirabura ndetse n'abazungu, aho bari mu cyumba cy'uruganiriro giteretsemo intebe ndetse n'ameza, ateretseho ibipapuro byinshi bari gukoresha muri ino nama hakaba hateretse amazi kandi bari kunywa.

Ihuriro ry'abantu benshi cyane bari mu nama bungurana ibitekerezo, bari mu cyumba kirimo imitako myiza kandi myinshi harimo nk'intebe nziza ndetse n'ameza, bamwe bafite mudasobwa abandi imbere yaboho hateretse uducupa tw'amazi tw'inyange, ndetse bakaba bayobowe n'umuntu uri gutanga imbwirwaruhame kuri repubulika y'u Rwanda wabihuguriwe.

Inyubako irimo icyumba cy'uruganiriro harimo abantu benshi batandukanye bicaye ku ntebe nziza ndetse hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore bambaye mu buryo butandukanye inyubako kandi ikabarimo umugore uri gutanga imbwirwaruhame imbere y'aba bantu bose abaganiriza ku ngingo runaka yateguye bakaba bari gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye kugira ngo inama ibe.

Icyumba cy'uruganiriro cyangwa icyumba cy'inama kirimo abantu benshi batandukanye harimo abagabo n'abagore, ndetse kirimo ameza ariho ibitambaro by'umutuku ateretseho uducupa tw'inyange tw'amazi.

Ihuriro ry'abantu benshi harimo abagore ndetse n'abagabo. Bari mu cyumba cy'inama kirimo intebe nyinshi zo kwicarwaho, ndetse hakaba harimo n'ameza manini. Ino nyubako kandi ikaba irimo za mudasobwa bari gukoresha ndetse n'amacupa y'amazi bari kunywa.

Abaturage benshi bicaye ahantu mu byatsi ndetse hayeye n'ibiti. Abo baturage bakaba bicaye ahantu hari imitako ikora amabendera y'u Rwanda. Ndetse kandi bakaba bicaye bari gukurikira kiganiro kiri kubagezwaho mu buryo bubanogeye.

Imodoka yo mu bwoko bwa toyota ihagaze ahantu hamwe ndetse ikaba isa umweru iparitse ahongaho kugira ngo abantu bazikeneye bazikodeshe cyangwa se bazigurishe ndetse hakaba hari n'izindi nkazo byegeranye.

Umugore uhagaze uri gutanga imvugirwaruhame ku bantu benshi cyane harimo abagore n'abagabo, uyu mugore ari kubabwira ku ngingo runaka yateganyije iri bwagirira akamaro iyi mbaga y'abantu benshi.

Ihuriro ry'abantu benshi batandukanye harimo abagore ndetse n'abagabo, bari mu cyumba cy'inama kirimo intebe z'ubwoko butandukanye ndetse n'ameza y'ubwoko bwinshi, bari gukoresha mudasobwa ziteretse ku meza ndetse hakaba hari n'abari gufotora ibiri kubera muri iki cyumba cy'inama.

Ihuriro ry'abantu batandukanye ririmo abagore ndetse n'abagabo, bakaba bari mu cyumba cy'uruganiriro kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byinshi bitandukanye, harimo n'ibyerekana amashusho ndetse hakaba ari ameza meza ndetse n'indi mitako. Iki cyumba kikaba kirimo intebe zo kwicarwamo ndetse n'abantu barimo bakaba bambaye mu buryo bwa kinyamwuga ndetse n'imbere yabo ku meza hakaba hateretseho ibyo kurya.

Ihuriro ry'abantu benshi harimo abantu bane ndetse batatu bakaba ari abirabura umwe ari umuzungu, harimo abantu batandukanye barimo abagabo n'abagore, bahuriye mu cyumba cy'uruganiriro ndetse imbere yabo bakaba bateretse amazi bari kunywa.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

Ishusho yerekana uburyo ushobora gutumiza ibintu ukoresheje telefone igezweho kumbuga nkoranyambaga zitandukanye utavuye aho uri harimo nk'imyenda ndetse n'imitako bitandukanye.

Ihuriro ry'abantu benshi batandukanye, harimo abagore ndetse n'abagabo. Bari mu cyumba cy'uruganiriro icyumba kirimo intebe nziza zo kwicarwamo, ndetse n'ameza ateretsweho mudasobwa ndetse n'amacupa y'amazi yo kunywa. Hakaba harimo kandi kamera ziri gufotora ibiri kuberamo.

Inyubako yubatswe mu buryo bwa kijyambere kandi bugezweho, ino nyubako ikaba irimo abagabo benshi ndetse n'abagore benshi bambaye ibintu bitandukanye, ino inyubako ikaba irimo intebe nyinshi ndetse n'aho ameza aho abantu bandikira.

Umuhanda w'umukara harimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka ifite ibara ry'umweru, indi modoka ifite ibara ry'ubururu n'umukara, yanditseho amagambo mu ibara ry'umutuku n'umweru, harimo kugenda amapikipiki ahetse abantu, asa umutuku n'umweru.

Ihuriro ry'abantu benshi kandi batandukanye harimo abagore ndetse n'abagabo bari mu cyumba cy'uruganiriro kirimo imitako myinshi ndetse cyikaba kirimo n'intebe nziza zo kwicarwamo, bari gukurikira abantu bari imbere bari gutanga ingingo zitandukanye ku mbwirwaruhame yateguwe.

Umugabo ufite umusatsi uringaniye, yambaye agapira keza ndetse ari gutanga imbwirwaruhame imbere y'abantu, inyuma kandi hari amadarapo y'u Rwanda ndetse n'andi madarapo ya orempike, aba bantu bari guhabwa imbwirwaruhame ku ngingo runaka yateguwe mu Rwanda.

Abantu benshi batandukanye harimo abagabo babiri ndetse n'umugore umwe. Abo bagabo babiri bakaba barimo umugabo wambaye ishati ufite umusatsi mwinshi ari kureba kuruhande, ndetse n'undi mugabo wambaye umupira w'umuhondo. Uyu mugore akaba yambaye agatambaro ko mu mutwe bicaye mu ntebe nziza ndetse bari gukurikira ahantu hamwe

Ihuriro ry'abantu benshi harimo abasore n'abakobwa bambaye udupira tw'umweru ndetse n'utw'umukara, bakaba bicaye ku meza ifite igitambaro k'icyatsi, hariho udupapuro ndetse hariho n'uducupa tw'amazi y'inyange, inyuma kandi hariho ibipapuro bya banki ndetse n'abandi bantu bari kuganira.

Ihuriro ry'abantu benshi batandukanye harimo: umugabo ufite umusatsi muke ndetse akaba yambaye n'amadarubindi, umugabo akaba yambaye ishati ndetse n'ikarita y'akazi, inyuma ye hari abagore babiri n'abo bambaye amakarita y'akazi bafite imisatsi miremire.

Ihuriro ry'abantu benshi batandukanye bari mu cyumba k'inama kirimo imitako myinshi, ndetse kikaba kirimo n'amatarayaka neza, iki cyumba k'inama kikaba kirimo intebe nyinshi zitandukanye z'umweru, ndetse hakaba harimo abantu benshi b'ingeri zose barimo abagabo ndetse n'abagore.

Inyubako yubatswe neza n'ibikoresho bigezweho, irimo intebe nziza ndetse n'ibirahure byiza, iyi nyubako ikaba yicawemo n'abantu bari guhabwa amahugurwa ku ngingo runaka.

Ihuriro ry'abantu benshi bari mu nama harimo abagore n'abagabo ndetse bari mu cyumba kirimo ibikoresho bya mudasobwa bari mu nama ya Rwanda utility regulatory agency, ikigo cya Leta kigenewe kugenzura imikorere y'abakozi ba Leta.

Ihuriro ry'abantu benshi batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore .Bari mu cyumba cy'uruganiriro kirimo imitako myinshi kandi cyubatswe ku buryo bwa kijyambere, kino cyumba kikaba kirimo intebe nziza ndetse buri muntu wicaye akaba afite mudasobwa ari gukoresha akazi.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo umugore hagaragara icyapa kirekire kiri mu ibara ry'ubururu cyanditsemo inyuguti nini ya P hakoreshejwe ibara ry'umweru munsi hashushanyije imodoka y'umweru itwara abagenzi ku mpande hagaragara indabo ndetse n'ibiti .

Ihuriro ry'abantu batandukanye harimo abagore batatu aba bagore bakaba bari mu cyumba cy'uruganiriro kirimo ameza ndetse n'intebe zo kwicarwaho ndetse kikaba cyubatswe mu buryo bugezweho abagore imbere yabo hakaba hateretse amazi yo kunywa ndetse bafite n'amakaramu yo kwandika ibiri kuvugirwa muri iki cyumba.

Ihuriro ry'abantu benshi harimo abagore ndetse n'abagabo batandukanye, bari mu cyumba cy'uruganiriro aho bari gutanga imbwirwaruhame ku bantu bicaye babakurikiye, kandi muri ino nzu barimo ikaba irimo imitako myinshi ndetse n'ameza ahagije n'intebe nyinshi zo kwicarwamo.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rwitwa Livingi ini Kigali rwifashishwa rufasha abantu batuye iki muri Kigali kuba bagura ibikoresho ibiribwa ndetse n'imyambaro muri Kigali.

Ihuriro ry'abantu benshi, harimo abagore ndetse n'abagabo, bari mu cyumba cy'uruganiriro, aho bari kuganira ku ngingo zitandukanye. Icyumba cy'uruganiriro barimo hariho ameza ndetse n'intebe z'ubwoko butandukanye, aho buri muntu imbere hateretse icupa ry'amazi, ry'inyange. Ndetse icyumba cy'uruganiriro barimo hakaba harimo amarange meza.

Inama irimo ihuriro ry'abantu benshi batandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore, bavuga ku gishushanyo mbonera cy'Umujyi wa Kigali ndetse n'ibindi bizatuma Kigali iba nziza kurusha uko yahoze.

Ihuriro ry'abantu benshi batandukanye bari mu nama harimo abagore ndetse n'abagabo. Bakaba bari mu nama bakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye harimo nk'amaterefoni ndetse bakaba bicaye mu cyumba kirimo imitako myinshi itandukanye harimo intebe nziza n'ameza ndetse n'amazi banywa.

Ihuriro ry'abantu benshi, harimo abagore ndetse n'abagabo bari mu cyumba cy'uruganiriro kirimo imitako myinshi, harimo n'intebe zo kwicaraho n'ameza. Abari muri iki cyumba cy'uruganiriro bicaye imbere hateretse icupa ry'amazi ry'inyange yo kunywa.

Icyumba k'inama kirimo abantu batandukanye b'ingeri zitandukanye, harimo abagore ndetse harimo n'umugabo uri gutanga imbwirwaruhame, ayibwira abantu bicaye ku ntebe nziza ndetse imbere yaho hari ameza atetseho amazi yo kunywa yo mu ducupa tw'inyange.

Abagore batatu bicaye imbere ndetse inyuma yaho hakaba hicaye abantu, aba bagore batatu bicaye imbere bakaba bambaye amakarita y'akazi ndetse babiri muri bo bakaba bafite imisatsi miremire bafite imisatsi migufi, aba bagore kandi bakaba bambaye amadarubindi ndetse imbere yabo hakaba bateretse mudasobwa n'ibindi binyobwa.

Ihuriro ry'abantu benshi harimo abagore n'abagabo, bahuriye mu cyumba cy'uruganiriro, kirimo imitako myinshi ndetse n'intebe nyinshi, ndetse n' imeza ziriho ibitambaro by'umukara. Abo bantu bakaba bicaye bari gukurikira imbwirwaruhame iri gutangwa, ndetse kandi bakaba bafite mudasobwa bari gukoresha ndetse n'amacupa y'amazi bari kunywa.

Ihuriro ry'abantu benshi batandukanye harimo abagore n'abagabo bari mu cyumba cy'uruganiriro cyangwa icyumba cy'inama ndetse hakaba harimo intebe z'ubwoko butandukanye n'a ameza manini yo kwicaraho baganiriraho, aya meza kandi ateretseho mudasobwa ndetse na telefone bakoresha.

Ihuriro ry'abantu benshi batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore bambaye mu buryo bwa kinyamwuga bw'akazi bakaba bari mu cyumba cy'uruganiriro kirimo imitako myinshi ndetse n'intebe nziza zo kwicarwaho ndetse n'ameza ateretseho ibintu bari gukoresha harimo n'amazi bari kunywa. Inyubako kandi barimo hakaba harimo imitako myinshi itandukanye ndetse hakaba harimo n'amadirishya menshi.

Umugabo ufite umusatsi uringaniye ndetse n'uruhu rw'imibiri yombi ndetse akaba yari yambaye n'ikoti rya kositimu n'ishati nziza, imbere hakaba yarateretse uducupa dutatu tw'amazi tw'inyange ndetse na mudasobwa ya egiseri nziza, inyuma hari handitse ko ari gahunda yo kunoza imitangire ya serivisi za leta.

Ihuriro ry'abantu benshi harimo abagabo ndetse n'abagore ndetse imbere yabo hateretse ibyo kunywa ndetse n'ibindi bitandukanye, imbere yabo kandi hateretse mudasobwa bari gukoresha akazi ndetse bakurikiye imbwirwaruhamwe iri gutangwa n'umuntu wabugenewe.

Ihuriro ry'abantu benshi barimo abantu batandukanye ndetse bambaye mu buryo bwa kinyamwuga, bari mu cyumba cy'uruganiriro kirimo imitako myinshi ndetse n'intebe nyinshi cyane z'ubwoko butandukanye, muri iki cyumba kandi harimo ameza ateretsemo uducupa ndetse na mudasobwa bakoresha.

Icyumba kirimo abantu batandukanye harimo abirabura ndetse n'abazungu haba abagore n'abagabo. Iki cyumba kikaba kirimo amatara menshi acanye kugira ngo habone ndetse hakaba harimo n'indi mitako myiza, hakabamo ameza manini n'intebe zo kwicarwamo nziza ndetse hakaba hateretswe n'uducupa tw'amazi yo kunywa.

Gahunda ya Leta yo gukoresha ikoranabuhanga batanga akazi ndetse bagenzura n'abakozi bayo, uru rubuga rwa Leta rukaba rwarakozwe kugira ngo bajye batanga akazi, uru rubuga rukaba rusaba kuba ufite imeri, ndetse ugakora n'ijambobanga uzajya ukoresha kugira ngo winjire mu rubuga rwawe.

Abanyeshuri benshi cyane harimo abahungu ndetse n'abakobwa bambaye impuzankano yabo, abanyeshuri bakaba bari mu cyumba kirimo mudasobwa nyinshi cyane ndetse hakaba harimo n'intebe ndetse n'amezi atandukanye, aba banyeshuri bakaba bari gukoresha murandasi.

Iri ni itangakuru ryatanzwe n'ikigo gishinzwe kugena no kugenzura imikoreshereze y'imisoro mu Rwanda kizwi nka Rwanda revenu otoriti, ikigo cyamenyekanishaga ko abantu batarishyura imisoro bagomba kwimenyekanisha kugira ngo batazahanwa.

Uru ni urubuga rwa leta rw'ikoranabuhanga aho rutanga akazi ku bakozi ba leta ndetse ikabagenzura uru rubuga kurufungura bisaba indangamuntu, email ndetse na numero za telefoni uru rubuga rukaba rushinzwe gutanga akazi ku banyamuryango ndetse no ku banyagihugu b'imbere ndetse n'abanyamahanga .

Umunara muremure wubatswe ahantu ahari imiturire y'inzu nziza zigezweho za kijyambere, ndetse inyuma hari imisozi miremire iteyeho amashyamba, n'ibiti kimeza.

Imodoka y'umukara iparitse ahantu habugenewe imbere y'aho hari ibikorwa remezo, harimo n'amaduka yo gucururizamo, harimo n'ahandi bacururiza imyenda kugira ngo abaturage babone imirimo bakora, kugira ngo bashake amafaranga mu buryo bwose bushoboka.

Umukobwa mwiza ufite ibisuko wambaye umupira w'umutuku, akaba imbere ye hari mudasobwa, akaba ari kureba ibiciro by'ibicuruzwa.

Ihuriro ry'abantu benshi batandukanye barimo abagabo ndetse n'abagore bahuriye ku mezi imwe, imeza ikaba iteretseho ibipapuro byinshi ndetse hakaba hariho na mudasobwa bakoresha ndetse na telefoni bakoresha harimo kandi abambaye ingofero ndetse n'abagore bafite imisatsi miremire.

Abagabo babiri, umwe akaba yambaye ingofero, w'umwirabura, ndetse n'ikote ryiza ry'ictatsi. Undi akaba ari umugabo w'umuzungu, wambaye ikote ryiza. Bari ahantu mu cyumba kimeze nk'icy'inama, ndetse kikaba kirimo mudasobwa nyinshi cyane ndetse n'aho kwicara.

Umuhanda mwiza w'amabuye wubatswe mu buryo bugezweho, uyu muhanda ukaba ukikijwe n'ubusitani bwiza burimo ibyatsi byiza ndetse n'ndabo ndetse hakaba harimo n'ibikuta bisizwe amarangi meza ndetse hakaba hari n'inzu z'imiturire, uyu muhanda kandi ukaba ukikijwe n'imiyoboro y'amashanyarazi aho hari igiti kiriho insinga nyinshi zijyana amashanyarazi mu m ngo z'abantu ndetse n'ahantu hatandukanye.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe ku buryo bugezweho, uyu muhanda kandi ukaba ufite umurongo w'umweru werekana imbibi z'umuhanda, uyu muhanda ukaba uri kugenderwamo na pikipiki ndetse n'ibindi binyabiziga by'imodoka ndetse ku ruhande hakaba hakikijwe n'akayira k'abanyamaguru ndetse hateye n'ibiti bitandukanye hari n'imiyoboro y'amashanyarazi itandukanye, harimo insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho, uyu muhanda ukaba ukikijwe n'utuyira duto tw'abanyamaguru bacamo ndetse ukaba ukikijwe n'ibiti by'amoko atandukanye, uyu muhanda kandi ukaba uriho ibiti by'amashanyarazi bitwara umuriro.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo urimo imirongo myinshi y'umweru yerekana imbibi z'umuhanda, umuhanda ukaba ufite ibyapa ndetse ukaba ufite no ku ruhande aho ibinyabiziga bihagarara umwanya muto umuhanda kandi ukaba ukikijwe n'ibiti byinshi ndetse ukaba uri kugenderwamo n'abanyamaguru.

Igikoresho kiburira abantu kutacyegera kubera umuriro mwinshi cyane urimo yuko gishobora guteza ingaruka iki gikoresho kikaba gikikijwe n'indabo ndetse n'ibiti ndetse inyuma yayo hakaba hari ikindi giti cy'umuyoboro w'amashanyarazi .

Imodoka y'ikamyo dayihatso isa nk'ijyanye ibicuruzwa, inyuma hari moto n'indi modoka ya toyota biyikurikiye gusa harimo umwanya uhagije.

Inyubako yubatswe mu buryo bwiza, aho yubatswe mu buryo bwo kugereka amazu ku yandi, ino nyubako hirya yaho hakaba hari indi nyubako ifite igisenge cy'ubururu ndetse ikaba ifite ubusitani bwiza buteyemo indabo ndetse n'ibyatsi, ino nyubako kandi ikaba iteyeho igiti ku ruhande cy'amashanyarazi hariho insinga nyinshi zitwara umuriro w'amashanyarazi.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe ku buryo bugezweho, uno muhanda ukaba urimo umurongo w'umweru werekana imbibi z'umuhanda, uyu muhanda ukaba uhura n'undi muhanda uzamuka ibumoso, uyu muhanda ukaba uri kugenderwamo n'abanyamaguru ndetse n'abanyamagare mu gice cyabugenewe, uyu muhanda kandi ukaba ukikijwe n'igiti cy'amatara ndetse n'ibindi biti byatewe kugira ngo use neza.

Aha ni muri Kigali ku muhanda wa magana atatu na mirongo irindwi na kabiri aho hari imiyoboro y'amashanyarazi ndetse n'ibiti biteye neza, inyuma yaho hari inyubako nyinshi zubatswe neza zizamuye ku buryo bwa kijyambere ndetse n'ibindi biti.

Inzu yubatswe mu buryo busanzwe, ndetse ikaba isakajwe n'amabati asanzwe. Iyi nzu kandi ifite amadirishya manini agezweho. Inyuma y'iyi nzu hakaba hari igiti cy'ipoto, cy'amashanyarazi, hariho ihuriro ry'insinga nyinshi zitwara amashanyarazi.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo ukikijwe n'imirongo y'umuhondo ndetse n'imirongo y'umweru uri ķugenderwamo n'amapikipiki. Umuhanda kandi ukaba ufite akayira gatoya kagenderwamo nabanyamaguru, inyuma y'uyu muhanda hakaba hakikijwe n'ibiti ndetse n'amazu y'ubucuruzi ndetse hirya hakaba hari imiturire y'abantu benshi.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho. Uyu muhanda kandi ukaba ukikijwe n'ubusitani bwiza burimo ibyatsi byiza ndetse n'indabo nziza ndetse kandi ukaba ukikijwe n'inzu z'imiturire zubatswe mu buryo bugezweho, aho hari n'imiyoboro y'amashanyarazi ijyana umuriro.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe muburyo bugezweho uyu muhanda ukaba ufite umurongo w'umweru werekana imbibi z'umuhanda ndetse kuruhande akaba hari akayira k'akanyayamaguru ndetse hakaba harimo n'umuntu uri gukora amasuku kugira ngo uyu muhanda use neza hirya ku ruhande hakaba hari amazu y'ubucuruzi atandukanye ndetse hakaba haparitswe n'amapikipiki atwara abagenzi.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo uri kugenderwamo n'ibinyaziga bitandukanye harimo ibinyabiziga binini byikorera imizigo myinshi ndetse hakaba harimo n'amapikipiki atwaye abagenzi, harimo kandi abanyamagare ndetse n'abanyamaguru, uyu muhanda ukaba ukikijwe n'ibiti by'amashanyarazi aho bitwara insinga zirimo umuriro w'amashanyarazi ndetse hakaba hari n'ibiti by'itara bimurika mu gihe byije, uyu muhanda ukaba ukikijwe n'amazu y'ubucuruzi atandukanye ndetse n'ibiti.

Inyubako yubatswe neza cyane ndetse ikaba irimo intebe nyinshi, ino nyubako kandi ikaba irimo akagare k'abafite ubumuga bwo kutagenda ndetse ikaba ifite n'amadirishya manini, inyubako ikaba ifite igisenge cyiza ndetse hakaba harimo imitako myinshi itandukanye.

Umugabo w'imisatsi migufiya w'inzobe ufite ubwanwa bwo hejuru wambaye umupira wo kwifubika urimo amabara atandukanye ubururu, umweru n'umukara wambariyemo ishati, araburanishwa.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe ku buryo bugezweho kandi bunogeye amaso ndetse wubatswe mu buryo utakangiza ibinyabiziga biwugenderamo, uyu muhanda ukaba uri kugenderwamo n'ibinyabiziga bitandukanye ndetse ukaba ukikijwe n'inzu nyinshi zitandukanye ndetse hakaba hari kugenderwamo n'abanyamaguru.

Inzu y'ikigonderabuzima yubatswe mu buryo bwa kijyambere ifite inkingi nyinshi cyane ndetse hakaba hari n'ubusitani buhagije, ikaba ari ikigo kinini k'ikigonderabuzima ndetse hari naho abagiye guca mu byuma bagiye kubarebamo imbere banyura.

Inyubako yubatswe neza mu buryo bugezweho y'Ikigo Nderabuzima, aho iyi nyubako irimo abantu benshi baje gusaba serivisi z'ubuzima zitandukanye. Ndetse kandi hakaba haparitse imodoka y'Imbangukiragutabara, ifasha gutabara abantu bagize ibibazo. Ndetse kandi ino nyubako ikaba ifite imyenge myinshi ndetse ikaba ifite n'ibisenge biriho amabati y'umutuku.

Ihuriro ry'abantu benshi batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore batandukanye, abantu bicaye ku ntebe zisanzwe z'ibiti bategereje guhabwa serivisi aho imbere hari ayo abari guhabwa serivisi mu madirishya.

Umugore wicaye afite imisatsi miremire iryamye ndetse yambaye amarinete n'isaha nziza uyu mugore yambaye agapira k'ubururu ndetse yicaye ateganye na mudasobwa uyu mugore asa nk'ukora akazi k'ubunyamwuga ndetse ari kugakorana umwete .

Icyapa cyamamaza ibitaro ndetse n'ikigo nderabuzima cya Kakiru, hariho serivisi nyinshi batanga cyane ububyazo n'izindi zitandukanye iki cyapa kiriho ibendera ry'u Rwanda n'ikirangantego cy'igihugu ndetse n'uko na serivisi batanga zose, iki cyapa inyuma yacyo hari igiti ndetse hakaba hari n'inyubako zitandukanye.

Inyubako nziza zubatswe mu buryo bugezweho zikaba zikorerwamo n'ibikorwa bya leta, izi nyubako zikaba zifite ubusitani bwiza zitewemo indabo ndetse n'ibyatsi hakaba harimo n'ibiti by'ubwoko butandukanye, inyubako kandi ku ruhande hakaba haparitse imodoka zitandukanye ndetse zikaba zifite n'ibisenge byiza.

Ikigo nderabuzima cyubatswe neza mu buryo bugezweho, iki kigo nderabuzima kikaba gifite aho abarwayi bicara ndetse kikaba gifite n'ibinyabiziga bitandukanye by'imbangukiragutabara, bizana abarwayi ku buryo bwihuse, ndetse kandi hirya hakaba harimo n'abantu batandukanye baje kwaka ibikorwa bitandukanye bitangwa no kwa muganga.

Umuhanda mwiza wubatswe neza mu buryo bugezweho wa kaburimbo we kugenderwamo n'abantu ndetse n'ibinyabiziga biparitse ku ruhande, uyu muhanda ukikijwe n'inzu nyinshi zikorerwamo ibikorwaremezo bitandukanye. Uyu muhanda kandi hari aho ufungirwa bityo bitaba byemewe kunyurisha ikinyabiziga cyangwag ku kwanyura.

Ihuriro ry'abantu benshi, harimo abagabo ndetse n'abagore, harimo intebe zitandukanye zitarwaho n'abarwayi bari ku kigo nderabuzima, hari imodoka z'imbangukiragutabara, ndetse na za kizimyamwoto zizimya inkongi y'umuriro, ndetse hakaba hari inyubako yubatse neza mu buryo bugezweho.

Ubusitani bwiza cyane harimo ibyatsi biciye bugufi ndetse n'indabo zitandukanye nziza ubusitani bukaba buteyemo ibiti birebire bifite amashami manini. Inyuma y'ubu busitani hakaba hari inyubako nziza yubatswe neza ndetse hakaba hari n'umuhanda uri gucamo n'ibinyabiziga.

Perezida wa repubulika w'u Rwanda ahagararanye n'abacamanza bo mu rukiko ndetse bahagaze imbere y'ikirangantego cy'u Rwanda inyuma hari amabendera y'u Rwanda kandi harimo abagabo n'abagore .

Umugabo wambaye imyenda y'abagororwa y'iroza ndetse ahagararanye n'umwavoka we wize amategeko uri muburanire mu rubanza uyu mugabo akaba ari kuburanira mu nzu y'urukiko rukuru.

Aba ni abayobozi babyigiye bari gutanga indahiro zabo imbere y'umukuru w'urukiko, y'uko bazakurikirana inshingano zabo nziza. Bari kurahirira imbere y'ibendera ryubahiriza igihugu cy'Urwanda, ndetse muri sare y'urukiko.

Umugabo ufite ubwanwa ufite umusatsi muke yambaye ishati nziza na karuvati yambaye byiyubashye, uyu mugabo inyuma ye ahagaze ahantu hasa umweru ndetse ari kureba muri kamera, uyu mugabo yambaye ibintu byiyubashye nk'umuntu ukora mu nzego za leta cyangwa ukora kinyamwuga.

Aha ni mu rukiko aho ushinjwa yambaye imyenda y'imfungwa, ndetse umwavoka we nawe yambaye imyenda y'akazi amuburanira kugira ngo batsinde urubanza. Urukiko nirwo rufata umwanzuro wa nyuma, aho rugenderaho nimba ushinjwa ahamwa n'icyaha, cyangwa ari umwere.

Abantu batatu bicaye imbere ndetse n'abandi bahagaze inyuma ndetse n'abicaye bandi, abarimo bose muri ino nzu bakaba bambaye udupfukamunwa tubarinda indwara, ndetse bakaba bambaye neza umugabo wo hagati akaba yambaye ikositimu nziza ndetse abandi bakaba bambaye amakanzu yo mu rukiko.

Ni ihuriro ry'abantu benshi harimo abagabo n'abagore ndetse bambaye mu buryo bwa kinyamuga, bari mu cyumba cy'uruganiriro kirimo imitako myinshi harimo ameza n' intebe zo kwicaraho kandi hakaba hari mudasobwa bari gukoresha ndetse n'amacupa y'amazi n'inyange bari kunywa.

Umugabo wambaye amarinete wambaye ikoti ryiza rya kolesitimu ndetse yambaye n'ishati y'umweru uyu mugabo afite umusatsi uringaniye inyuma yiwe hicaye umugore ndetse n'umugabo bambaye amakarita y'akazi uyu mugabo imbere hatetse agacupa k'amazi k'inyange ndetse akaba ameze nkuri gutanga ibitekerezo.

Umugabo wambaye ingofero ndetse n'ikanzu y'abacamanza ari kurahira mbere yiwe afashe ku idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo yari yambaye mu buryo bw'abacamanza ndetse ari gutanga indahiro y'uko azakora akazi kiwe neza ku gihugu cy'u Rwanda n'abaturage bityo bakabona iterambere rihoraho.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho ndetse kugenderwamo n'ibinyabiziga byinshi, harimo ama moto ndetse n'amagare ahetse abagenzi. Uyu muhanda ukaba ukikijwe n'ibiti byinshi kandi byiza ndetse inyuma y'aho hakaba haparitswe n'ibindi binyabiziga binini harimo nk'amakamyo y'umweru.

Inyubako nziza zubatswe mu buryo bwiza kandi bugezweho, inyubako ikaba ifite imitako myinshi kandi myiza, inyubako ikaba iriho kizimyammowoto zizimya inkongi y'umuriro ndetse ikaba ifite n'aho abantu biyakirira.

Inyubako nziza igezweho y'ibiro bya polisi ishami rya muhima, ifite parikingi iparitswemo imodoka y'abapolisi ndetse n'izindi modoka zisanzwe zirimo abantu n''umwanya wabugenewe wo guparikamo.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo ukikijwe n'utuyira twagenewe abanyamaguru, utu tuyira twagenewe abanyamaguru tukaba turi kunyurwamo n'abanyamaguru batandukanye barimo abagore ndetse n'abagabo, ndetse kandi hakaba hahagaze umupolisi wambaye impuzankano y'akazi, ndetse kandi ku ruhande hakaba hari abandi bantu bari kugendaho ndetse bakaba bakikijwe n'ibikorwa byinshi by'ubucuruzi, n'ibyapa byo mu muhanda, hakaba hari n'ibiti byagenewe kumurika n’ijoro by'amatara.

Iki gikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro ,iki gikoresho ahenshi kiba kiri mu nzu nini, inyubako nini cyane ku buryo ifashwe n'umuriro byakwifashishwa kugira ngo bayikumire. Iki gikoresho ni cyiza kuko kirinda abaturage ndetse n'ibikorwa remezo byabo.

Ubu ni bumwe mu buryo bwiza ibigo by'ubwishingizi bimwe na bimwe bigira aho umukozi wabo yari ari gushimira umukiriya wabo ko bakorana neza kandi amushimira icyizere yabagiriye mu kubagana bakaba bakorana neza kugeza ubu ngubu ntakibazo bafitanye; amwifuriza icyumweru cyiza cy'abakiriya aho biyemeje kujya babashimira kugira babatere kuraje.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho, aho ifite ibikuta biteye amarangi y'umweru. Iyo nyubako ikaba ifite kandi kizimyamwoto zitandukanye zifasha kuzimya inkongi y'umuriro mu gihe iteye. Ino nyubako kandi ikaba ifite n'inzugi z'umweru.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo urimo ikinyabiziga cy'imbangukiragutabara, aho kiri gutabara, ndetse kandi ku ruhande hakaba hari kugendera abantu basanzwe, ndetse kuran akabateye ibiti ntihari n'inyubako z'ubucuruzi uyu muhanda kandi ukaba uri kugenderwamo n'ibindi binyabiziga bitandukanye.

Abapolisi babiri bo mu muhanda bambaye impuzankano y'akazi ndetse n'abanyeshuri bari kugenda bahetse ibikapu bambaye impuzankano yo ku ishuri n'abanyamaguru imvura yaguye imihanda yatose ndetse haparitse n'imodoka .

Icyapa kimanitse hejuru kiriho ibirangantego by'igihugu ndetse ha akaba n'ikirangantego cya polisi iki cyapa kikaba cyerekana ko ari ibitaro bya Kacyiru by'abapolisi ndetse kandi nyuma hakaba hateye ibiti birebire by'amoko atandukanye ndetse hakaba ari n'insinga z'amashanyarazi ziri gucamo.

Inyubako yubatswe mu buryo bwiza kandi bugezweho, ino nyubako ikaba yubatswe ifite ibyumba byinshi byo gukorerwamo, ndetse kandi ikaba ifite ibirahuri byiza. Ino nyubako ikaba igaragaza ko ari ku Muhima, ndetse ikaba ifite umwanya wo guparikwamo n'imodoka. Hano hakaba haparitswe imodoka ya polisi y'igihugu.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe kuburyo bugezweho ndetse ufite n'imirongo y'umweru yerekana imbibi z'uwo m'umuhanda, uyu muhanda ukaba uriho abapolisi babiri bambaye impuzangano yabo y'akazi ndetse hakaba hari n'abanyamaguru, ndetse uyu muhanda ukikijwe n'ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye, ndetse hakaba hari kugenderwamo ibinyabiziga byinshi byacanye amatara.

Imodoka ya polisi y'u Rwanda iri kugenda mu muhanda, ukikijwe n'inyubako nziza cyane igezweho igeretse kenshi, ndetse umuhanda uparitswemo abamotari, ndetse n'abandi bakozi b'ibigo by'itumanaho byo mu Rwanda.

Ihuriro ry'imihanda myinshi ndetse yubatswe mu buryo bwiza bwa kaburimbo, iyi mihanda ikaba ifite imirongo y'umweru aho abanyamaguru bambukira, uyu muhanda hakaba haparitsemo amapikipiki menshi ndetse uwo ku ruhande ukaba uri kugenderwamo n'ibinyabiziga bitandukanye.

Aba polisi benshi cyane bambaye impuzankano yabo y'akazi ndetse bakaba bafite n'ibikoresho by'akazi nk'imbunda, abapolisi bakaba bahagaze mu muhanda mwiza wa kaburimbo ndetse inyuma hakaba haparitse imodoka zabo bakoresha, ndetse kandi inyuma hakaba hateye ibiti by'ubwoko bwinshi harimo n'ibyimitako.

Ikinyabiziga cyiza cy'umukara giparitswe ahantu habugenewe, mu gihe imbere yacyo hari indabo nyinshi zihatewe ndetse n'ibyatsi byinshi. Iki kinyabiziga kandi iburyo bwacyo hakaba hari ikigega kiri hejuru kihamanitse.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo uri kugenderwamo n'imodoka, ndetse ukaba urimo imirongo y'umweru n'umuhondo yerekana imbibi y'umuhanda. Uyu muhanda kandi ukaba ufite uduhanda dutoya twagenewe abanyamaguru, ndetse ku ruhande hakaba hatewe ibiti byinshi cyane.

Umuhanda mwiza cyane wubatswe ku buryo bugezweho ukaba ufite aho abanyamaguru bambukira, uyu muhanda ku nkengero zawo hahagaze umupolisi wo mu muhanda wambaye impuzankano y'akazi, ndetse hakaba hari n'inzu zitandukanye z'ubucuruzi.

Inyubako yubatswe mu buryo bwiza kandi bugezweho, ino nyubako ikaba igeretse kenshi ndetse ikaba ifite ibyumba byinshi byo gukorerwamo ibikorwa bitandukanye, inyubako ikaba ifite aho baparika imodoka hahagije ndetse hakaba haparitse imodoka nyinshi, imbere yaho kandi hakaba hari ubusitani buteyemo ibyatsi ndetse n'ibiti byinshi.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho aho ufite imirongo y'umweru yerekana imbibi z'umuhanda. Umuhanda kandi ukaba ufite ubusitani buteyeho ubwoko bw'ibiti bitandukanye by'imitako ndetse ukaba utewemo n'ibyatsi n'indabo. Ndetse ku ruhande rw'uyu muhanda hakaba hari kugenderwamo umupolisi wambaye impuzankano y'akazi, ndetse ari kugendana n'undi munyamaguru. Ndetse inyuma hakaba hari indi nyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho.

Perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame uhagaze iburyo bwe hari madamu Jeannette Kagame n'umugore we ndetse ibumoso bwe hari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda ahagaze muri sitade ari gutanga indahiro ku baturage.

Hirya no hino ugenda usanga hari amasoko atandukanye kandi acuruza ibicuruzwa bitandukanye, ariko amenshi murayo masoko usanga ahuriyeho n'uko abacuruza ibintu bijyanye n'imyenda cyangwa se imyambaro y'abantu bagiye batandukanye. Ayo masoko yose ugasanga ari ingirakamaro cyane mu iterambere ry'umuturage ukamufasha kwiteraza imbere mu buryo bumwe kandi akanamufasha no kubaho neza mu buryo bw'imyambarire.

Umugabo wambaye imyenda y'ubururu ndetse n'agapira k'umweru, yambaye n'amarinete, ari gutanga imbwirwaruhame ku bantu. Inyuma ye hakaba hateretse akameza kariho igitambaro cy'ubururu ndetse hakaba hari n'abandi bicaye inyuma bari kumufasha gutanga ibyo bitekerezo.

Ihuriro ry'abantu benshi harimo abagore ndetse n'abagabo ndetse abagore bambaye imikenyere ya kinyarwanda harimo udupira tw'umweru ndetse n'imikenyero y'ubururu, n'umutuku bafite kandi amadarapo ya efuperi inkotanyi ariwo umuryango n'ishyaka babarizwamo, bari mu bikorwa byo kwamamariza amatora yo gutora umuperezida w'igihugu.

Perezida w'u Rwanda Kayibanda Gregoire aho yabaye perezida wa mbere w'iki gihugu ndetse kandi akaba yarayoboye u Rwanda guhera mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri aho u Rwanda rwari rubonye ubwigenge kugeza mu gihumbi kimwe cyeyenda na mirongo irindwi nagatatu kayibanda Gregoire yari hano yari yambaye ishati nziza y'umweru ndetse n'ikoti ryiza afite n'umusatsi uringaniye.

Ihuriro ry'abantu benshi harimo abantu batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore, harimo abasore bisize amarangi ndetse akaba akora amabendera ya FPR inkotanyi, bari bari ahantu bamamaza ibikorwa byabo.

Abantu bambaye neza bari mu biro bya perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame inyuma hari amadarapo n'amabendera y'igihugu cy'u Rwanda abari mu biro bicanyemo amatara ndetse abantu bambaye neza harimo abagabo n'abagore.

Perezida HABYARIMANA Juvenal wayoboye u Rwanda, amaze gutera kudeta KAYIBANDA Gregoire mu mwaka ibihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri kugeza umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane, aho yarasiwe mu ndege yari avuye gusinya amasezerano y'arusha. Perezida Juvenal yambaye ikoti ryiza ndetse akaba yambaye n'ishati nziza.

Umugore Uwiringiyimana Agatha uri kumwe n'abasirikare ndetse n'abandi baturage aho yabaye minisitiri w'intebe w'u Rwanda guhera mu gihumbi kimwe magana acyenda mirongo icyenda na kabiri kugeza mu bihumbi kimwe magana acyenda na mirongo icyenda na kane muri jenoside aho ariho yapfiriye yishwe, uyu mugore yari ari kugenda asuhuza imbaga y'abantu bari bari kumwe .

Ihuriro ry'abantu benshi batandukanye bambaye imipira isa ndetse hariho n'ibirangantego by'ishyaka rya FPR inkotanyi, ndetse aba bantu harimo abagore n'abagabo bakaba bafite amabendera y'ir’ishyaka rya FPR inkotanyi, aho bari kwamamariza ibikorwa byabo, ndetse ku ruhande hakaba har’imbangukiragutabara ifasha abagize ibibazo.

Perezida wa repubulika w'u Rwanda Paul Kagame, aho yari ari kwiyamamariza mu ishyaka ayoboye ndetse abamo, ariryo FPR inkotanyi, harimo amadarapo menshi ya FPR inkotanyi ndetse akaba yambaye n'ibirangantego byayo ku myenda yabo, akaba ari mu baturage benshi batandukanye, harimo abagore n'abagabo, ndetse na bo bafite aya madarapo ya FPR inkotanyi.

Perezida wa repubulika w'u Rwanda Paul Kagame yambaye amarinete ndetse n'ikoti ryiza, perezida wa repubulika y'u Rwanda ari gutanga indahiro ku banyarwanda ndetse n'abaturage be, bari bahuriye ahantu hamwe ndetse hameze nko muri sitade.

Akabutike gahagarariye emutiyeni Rwanda gacuruza amayinite amakarita amasimukadi gashobora no kugufasha kuri serivisi z'indi wawukenera kuri emutiyeni mobayire mani iyi nikiyoswe ushobora gusangamo serivisi za emutiyeni muga mobayire mani.

Umugabo kayibandagererego ari aho yabaye perezida w'u Rwanda guhera mwaka w'ibihumbi kimwe maganacyenda na mirongoguttu na kabiri aho u Rwanda rwari rumaze kubona ubwigenge kugeza umwaka w' igihumbi cyuumi cyenda na mirongo irindwi nagatatu aho Habyarimana Juvenal yamweguje leta ya Kayibanda yarangwagwaga n'urwango rwinshi ndetse abatutsi bari babayeho nabi.

Perezida wa repuburika y'u Rwanda Paul Kagame aho yarari kubwira imihigo afite baramutse bamutoye, ahangaha yarari kwiyamamariza ndetse haje n'imbaga y'abaturage bafite amadarapo y'ishyaka rya efuperi nkotanyi perezida wa repuburika aturukamo.

Abantu benshi batandukanye b'imyaka itandukanye harimo abagabo n'abagore, batonze umurongo bategereje guhabwa serivise, ku nzu ifite imitako ikora ibendera ry'u Rwanda.

Kayibanda Gereguwari Perezida wa mbere w'u Rwanda, aho yabaye Perezida guhera mugihumbi kimwe maganacyenda mirongo itandatu na kabiri, kugeza mugihumbi kimwe maganacyenda na mirongo irindwi naga gatatu, yayoboye u' Rwanda rukibona ubwigenge barukuye mu maboko y'ababiligi.

Umugore witwa Uwiringiyimana Agatha wabaye Minisitiri w'Intebe aguhera mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo ikenda na kabiri kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ikenda na kane, aho ariho yitabiye Imana muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Uyu mugore akaba afite imisatsi miremire yambaye ishati y'umweru ndetse n'igitenge. Inyuma ye hakaba hateye ibiti bitandukanye.

Inzu yahuriwemo abantu benshi irimo amatara meza agezweho, ndetse n'imitako myinshi. Iyi nzu irimo abantu batandukanye, harimo abagore n'abagabo bicaye ahantu heza, ndetse bari gukurikira imbwirwaruhame.

Abakozi ba leta harimo abagore benshi n'abagabo benshi, bari gutanga indahiro zabo, kubwo inshingano bagiye kwitabira, bahagaze imbere y'amabendera yubahiriza igihugu cy'Urwanda, batanga indahiro ku myanya bagiye kwitabira.

Ihuriro ry'abantu benshi hagaragaramo abagore benshi bambaye amakarita y'akazi ndetse bahagaze bari gukoma amashyi. Bahuriye mu nzu y'uruganiriro irimo imitako myinshi ndetse bakaba bicaye, harimo n'intebe nziza n'ameza, hateretse ibyo kunywa.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho, uyu muhanda ukaba waratangiye kwangirika kuko ugiye ufitemo ibyobo, uyu muhanda kandi ukaba ukikijwe n'utuyiya dutoya tw'abanyamaguru, ndetse ukaba ukikijwe n'ibiti byinshi by'amoko atandukanyehanda kandi inyuma yawo akaba kugenderwamo amapikipiki menshi.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe ufite imirongo y'umuhondo ndetse niy'umweru yerekana imbibi z'umuhanda, uyumuhanda ukaba uri kugenderwamo n'ibinyabiziga bitandukanye harimo amapikipiki ndetse n'imodoka zitwara abantu nziza y'umukara, uyumuhanda ukaba ukikijwe n'ibiti bitandukanye ndetse n'indabyo zatewe kugira ngo uyumuhanda use neza.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho. Uyu muhanda kandi ukaba waratangiye kwangirika aho wagiye ucukagurika. Uyu muhanda ukaba uri kugenderwamo n'ikinyabiziga cy'ubururu cyikorera imizigo myinshi cyane ndetse hakaba hari kugenderwamo n'ipikipiki ihetse umugenzi. Uyu muhanda kandi ukaba ukikijwe n'akayira gato kagenewe abanyamaguru ndetse ku ruhande ukaba ukikijwe n'ibiti.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe ku buryo bugezweho, uwo muhanda ukaba urimo imirongo y'umweru yerekana imbibi z'umuhanda, ukaba uri kugenderwamo kandi n'ikinyabiziga kinini kikorera imizigo myinshi, uyu muhanda kandi hakaba hari kugenderwamo amapikipiki ndetse n'ibindi binyabiziga bitandukanye, hirya ku ruhande hakaba hari utuyira duto twagenewe abanyamaguru, ndetse imbere hakaba hari n'aho hateye ibiti byinshi.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe ku buryo bugezweho uyu'umuhanda kandi ukaba ufite imirongo y'umweru ndetse n'imirongo y'umuhondo iciye mu muhanda yerekana imbibi z'umuhanda uyu muhanda ukaba uri kugenderwamo n'ikinyabiziga kinini kikuru imizigo myinshi, ndetse kandi ku ruhande hakaba hari utuyira tw'abanyamaguru, ndetse hakaba hateye n'ibiti bitandukanye by'imitako ndetse n'ibindi bisanzwe kugira hase neza.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe ku buryo bugezweho, uyu muhanda ukaba uri kugenderwamo n'ikinyabiziga cy'umutuku kikorera imizigo myinshi, ndetse kandi ukaba uri kugenderwamo n'abanyamagare, ndetse akaba ukikijwe n'utuyira dutoya twagenewe abanyamaguru, uyu muhanda ukaba ukijwe n'ibiti by'ubwoko bwinshi butandukanye.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe ku buryo bugezweho, umuhanda ukaba waratangiye kwangirika aho ugiye ufitemo utwobo ndetse hakaba hari kugenderwamo n'ikinyabiziga cy'umweru kiri kugenderwamo n'abagenzi ndetse kandi ku ruhande hakaba hari utuyira dutoya tw'abanyamaguru, hirya kandi hakaba hanateye n'ibiti bitandukanye kugira ngo uyu muhanda use neza.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe ku buryo bugezweho, umuhanda ukaba ufite imirongo minini y'umweru yagenewe kwambukirwamo n'abanyamaguru, uyu muhanda ukaba uri kunyurwamo n'ipikipiki ndetse ikaba itwaye umugenzi, uyu muhanda kandi ukaba ufite akayira gatoya kagenewe abanyamaguru kawukikije ndetse ku ruhande hakaba hari ubusitani bwiza burimo indabo bitandukanye ndetse hakaba harimo n'ibiti biteye. Uyu muhanda ukaba ukikijwe n'ibikorwa remezo byinshi harimo n'amatara amurika nijoro.

Umuhanda mwiza ugezweho wa kaburimbo uri kugenderwamo n'ikinyabiziga cy'umweru kirekire cyiza ndetse ukaba ukikijwe n'ibiti birebire, ukaba uri kugenderwamo n'abanyamaguru ndetse n'ibindi binyabiziga nka za moto.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo, wubatswe ku buryo bugezweho, ndetse ukaba ufite aho wacukuritse. Uyu muhanda uri kugenderwamo n'ibinyabiziga binini, byikorera imizigo minini. Uyu muhanda ukikijwe n'utuyira tw'abanyamaguru, ndetse n'ibiti byinshi.

Imodoka nziza iri kugendera mu muhanda mwiza kaburimbo, iyi modoka ikaba iriho ibirangantego bya arabi eyi bivuze televiziyo y'igihugu ndetse na radiyo y'igihugu, uyu muhanda kandi uri kugenderwamo n'izindi modoka aho uriho ukikijwe n'ibiti byinshi ndetse n'ubusitani bwiza.

Umuhanda wangiritse cyane urimo ibyobo birekamo amazi, uyu muhanda ukaba uri kugendwamo n'imodoka nziza y'ubururu ndetse n'umweru itwara abagenzi benshi cyane, uyu muhanda kandi ukaba ukikijwe n'imisozi ndetse iteweho n'ibiti byinshi.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho, uyu muhanda ukaba ufite imirongo y'umweru ndetse n'imirongo y'umuhondo yerekanaga imbibi z'umuhanda uyu muhanda ukaba uri kugenderwamo n'ipikipiki ndetse ku nkengero z'uyu muhanda hakaba hari amazu y'ubucuruzi ndetse akorerwaho n'ibibindi bikorwa bitandukanye ku ruhande kandi hakaba hari utuyira twagenewe abanyamaguru.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho ndetse bunogeye amaso, bityo bikaba bifasha ibinyabiziga kugenderamo bitangirika. Uyu muhanda uri kugenderwamo n'ikinyabiziga cy'umutuku kinini cyane cyikorera imizigo. Iki kinyabiziga kikaba kiri kugendera muri uyu muhanda ndetse ukikijwe n'ibiti byinshi ndetse n'utuyira dutoya tw'abanyamaguru.

Umuhanda mwiza wubatswe ku buryo bugezweho ndetse akaba ari no mu gicuku uyu muhanda uri kugenderwamo n'abanyamaguru ndetse n'abanyamagare baparitse ku ruhande muhanda ukaba ukikijwe n'ibiti by'amatara biri kubamurikira kubera bwije.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo, wubatswe mu buryo bugezweho. Uyu muhanda ukaba ufite utuyira duto tw'abanyamaguru, ndetse ukaba uri kugenderwamo n'ikinyabiziga gitwara imizigo, kikaba cyayikoreye. Ikinyabiziga kikaba gisa umukara ndetse hakaba hari kugenderwamo n'ipikipiki, ku ruhande hirya kandi hakaba hateye ibiti, ndetse inyuma hagaragara inzu z'imiturire.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe ku buryo bugezweho, uyu muhanda kandi ukaba waratangiye kwangirika ndetse ukaba uri kugenderwaho n'ibinyabiziga binini bitwaye imizigo, hirya kandi hakaba haparitse ibindi binyabiziga ndetse hari n'aho ibikomoka kuri peteroli bitangirwa, uyu muhanda kandi ukaba iriho ibyapa by'ubwoko butandukanye.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe kuburyo bugezweho uyu muhanda kandi ukaba waratangiye kwangirika. Uyumuhanda kandi ufite utuyira duko twagenewe kugenderwa mo n'abahyamaguru. uyu muhanda ukaba urikugenderwamo n'ikinyabiziga kikoreye imizigo iremereye cyane. ndetse hirya gato ukaba urikugenderwamo n'abanyamaguru kandi kumpande ukikijwe n'ibiti bituma ugaragara neza.

Umuhanda mwiza wubatswe ku buryo bugezweho, uyu muhanda ukaba kugenderwamo n'amapikipiki ndetse hakaba hari n'ibindi binyabiziga binini bitwara imizigo, ndetse n'ibitwara abantu, uyu muhanda ukaba ukikijwe n'utuyira dutoya tugenderwamo n'abanyamaguru, ndetse ku ruhande hakaba hakikijwe n'ibiti byinshi.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe ku buryo bugezweho, uyu muhanda ukaba uri kugenderwamo n'ikinyabiziga kinini cyane gifite amabara y'ubururu n'umweru ndetse kandi kikaba gitwara abagenzi benshi cyane, hari abagenda bahagaze ndetse n'abicaye, inyuma y'iki kinyabiziga hari izindi modoka ziri gutambuka.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe ku buryo bugezweho, uyu muhanda ukaba uri kugenderwamo n'ikinyabiziga cy'umweru kinini cyikorera imizigo myinshi ndetse ukaba ukikijwe n'utuyira duto tw'abanyamaguru, uyu muhanda kandi ukaba ukikijwe n'ibiti byatewe kugira ngo hajye hasa neza.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho; ukikijwe n'ibiti byinshi ndetse hari n'ibiti by'amatara by'umuriro ndetse n'ibiti bisanzwe ndetse n'ubusitani bwinshi butandukanye, iki kinyabiziga gihehetse imitwaro cyangwa imizigo itandukanye ndetse kikaba kirimo n'umuyobozi w'ibinyabiziga.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo urimo umumotari ndetse wambaye imyenda y'akazi yambaye n'ingofero imurinda impanuka. Uyu muhanda ukikijwe n'ibiti byinshi ndetse hakaba hari n'ahandi hari amaduka abantu baguriramo ibikoresho ndetse n'ibyapa biranga icyerekezo.

Abantu batatu barimo umugore umwe n'abagabo babiri barasuhuzanya bamwenyura begereye akazu kimukanwa ka sosiyete ikorera mu rwanda itanga serivisi z'itumanaho.

Umuhanda mwiza wubatswe mu buryo bugezweho, uyu muhanda kandi ukaba waratangiye kwangirika aho ugiye waracukaguritsemo ibyobo, uyu muhanda kandi ukaba uri kugenderwamo n'imodoka y'icyatsi itwara ba mukerarugendo ndetse n'ipikipiki y'ubururu itwara imizigo, umuhanda ukaba ukikijwe n'utuyira dutoya tw'abanyamaguru ndetse ku ruhande hakaba hateye ibiti n'indabo.

Abagabo babiri bari kugenda muhanda usanzwe, imbere yawo hari ibiti byinshi cyane, ndetse umwe yambaye amakabutura, undi yambaye n'ipantaro ndende, ahetse n'igikapu. Imbere yaho hari inzu ikikijwe n'ibiti byinshi, ndetse inzu igeretswe yubatswe mu buryo bwa kinyamwuga, kandi bugezweho.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho ukikijwe n'utuyira tw'abanyamaguru bacamo, uyu muhanda ukaba urimo ibinyabiziga byinshi harimo ibyikorewe imizigo ndetse n'ibitwara abantu, uyu muhanda kandi ukikijwe n'ibiti byinshi ndetse n'aho abanyamaguru banyura.

Abagore bicaye mu nzu mbera byombi buri meza igiye yicayeho abantu batarenze batatu, buri meza igiye yambitswe igitambaro gisa umweru ndetse n'intebe, bose imbere yabo hagiye hateretswe icupa ririmo amazi kandi bose bari kureba imbere yabo.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo uri kugenderwamo n'abanyamaguru. Uyu muhanda kandi ukaba urimo kugenderwamo n'ibinyabiziga bitwaye abantu ndetse n'abagenzi. Uyu muhanda kandi ukaba uri kugenderwamo n'ibinyabiziga byacanye amatara kubera bwije. Ukaba ukikijwe kandi n'inzu z'ubucuruzi, ndetse n'izindi zikorerwamo ibindi bikorwa bitandukanye.

Iki ngiki ni ikigo cya emutiyene kidufasha kubijyanye no kuba baguha amayinite ugahamagara mugenzi wawe, cyangwa se ukamwandikira kuri murandasi bitewe n'icyo ushaka.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho ndetse uyu mahanda ukaba waratangiye kwangirika ucukagurika, uyu muhanda uri kugendendwamo n'ibinyabiziga bitwaye imizigo miremire ndetse ukaba ugenderwamo n'amapikipiki, ndetse kandi hirya hakaba hakikijwe n'ibiti byinshi harimo n'abagenzi batwaye amagare ndetse n'abanyamaguru.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo, wubatswe mu buryo bugezweho. Umuhanda ukaba urimo ibinyabiziga bitandukaye, harimo amapikipiki atwaye abantu ndetse n'ibinyabiziga binini, bitwara imizigo myinshi. Ndetse uyu muhanda ukaba ukikijwe n'utuyira dutoya tw'abanyamaguru, ndetse ukaba ukikijwe n'ibiti biteye, kugira ngo uyu mugi use neza.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe ku buryo bugezweho uyu muhanda kandi ukaba urimo imirongo itandukanye harimo imirongo y'umuhondo ndetse n'imirongo y'umweru yerekana imbibi z'umuhanda, uyu muhanda uri kugenderwamo n'ikinyabiziga cy'umweru gitwara abagenzi kandi ku nkengero z'uyu muhanda hakaba hari amazu y'ubucuruzi ndetse haparitse n'imodoka nyinshi harimo n'abanyamaguru benshi.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe ku buryo bugezweho ndetse ukaba ufite n'imirongo y'umweru yerekana imbibi z'umuhanda, uyu muhanda kandi ukaba ukikijwe n'ibiti byinshi ndetse ukaba uri kugenderwamo n'ibinyabiziga binini cyane bimwe bitwara ibikomoka kuri peteroli, umuhanda kandi urikugenderwamo n'ibindi binyabiziga ndetse ukaba ufite utuyira dutoya two ku ruhande tugenderwamo n'abanyamaguru.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo ufite imirongo y'umweru yerekana imbibi z'umuhanda, umuhanda ukaba uri kugenderwamo n'ibinyabiziga binini cyane byikoreye imizigo myinshi ndetse kandi hakaba harimo n'umunyamaguru wegereye icupa ryatakaye ry'amazi.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe ku buryo bugezweho uyu muhanda kandi ukaba ukukijwe n'utuyira dutoya tw'agenewe abanyamaguru. Uyu muhanda ukaba urimo kugenderwamo n'ikinyabiziga cy'umweru gitwara abagenze mu bice by'igihugu bitandukanye.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho uyu muhanda ukaba urimo ikinyabiziga cy'umutuku kinini kandi cyikorera imizigo uyu muhanda ukaba ukikijwe n'akayira gatoya k'abanyamaguru ndetse hirya hakaba hari ibiti byinshi bihateye.

Umuhanda mwiza wubatswe mu buryo bugezweho wa kaburimbo. Uyu muhanda ukaba uri kugenderwamo n'ipikipiki ndetse ukaba uri kugenderwamo n'ikinyabiziga cy'umweru. Uyu muhanda kandi ukaba ukikijwe n'utuyira dutoya tw'abanyamaguru ndetse ukaba uri kugenderwamo n'igare, hirya y'uyu muhanda hakaba hateye ibiti.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo, wubatswe ku buryo bugezweho, ndetse ukaba afite imirongo y'umuhondo werekana imbibi z'umuhanda. Uyu muhanda uri kugenderwamo n'ibinyabiziga binini byikorera imizigo, ndetse n'amapikipiki ikorera imizigo uyu muhanda kandi ukaba ukikijwe n'inyubako bari kubaka yubatswe mu buryo bugezweho.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo urimo imirongo y'umweru yerekana imbibi z'umuhanda, ndetse n'imirongo minini y'umweru aho abanyamaguru bambukira, umuhanda ukaba uri kugenderwaho n'ibinyaziga by'ubwoko bitandukanye, harimo amapikipiki ndetse n'ibinyabiziga byikorera imizigo myinshi, uyu muhanda ukaba ukikijwe ibiti byinshi, ndetse ku ruhande hakaba hari umusozi, uyu muhanda kandi ukaba uriho ibiti by'amatara.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho ni muhanda kandi ukaba ufite imirongo y'umweru yerekana imbibi z'umuhanda, ndetse kandih akaba hari kugenderwamo n'ikinyabiziga kinini kikorera imizigo myinshi, ndetse kandi inyuma hakaba hari kugenderwamo ibinyabiziga bisanzwe, uyuhanda kandi ukaba ufite imirongo minini y'umweru aho abanyamaguru bambukira ndetse kandi ukaba ukikijwe n'utuyira dutoya twagenewe abanyamaguru.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho kandi bunogeye ibinyabiziga kugira bitangirika .Uyu muhanda ukaba uri kugenderwamo napikipiki ndetse itwawe n'umuntu uhetse undi bambaye ingofero kugirango ngo birinde impanuka. Uyu muhanda kandi ukaba uri kugenderwamo n'ikinyabiziga cy'umweru cyikoreye imizigo myinshi, ndetse imbere yaho hakaba ari umunyamaguru .Uyu muhanda kandi ukaba ukikijwe n'ibiti byinshi ndetse n'utuyira tw'abanyamaguru.

Ni umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho, uyu muhanda ukaba uri kugenderwamo n'ikinyabiziga kinini kirimo amatungo, uyu muhanda kandi ukikijwe n'utuyira duto tw'abanyamaguru ndetse n'ibiti byinshi.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo, wubatswe mu buryo bugezweho. Uyu muhanda ukaba ufite imirongo y'umweru, yerekana imbibi z'umuhanda ndetse umuhanda ukaba kugenderwamo n'ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye. Uyu muhanda ukaba ukikijwe n'ibiti byinshi ndetse ukaba ukikijwe n'akayira gatoya kagenewe abanyamaguru.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho ndetse kugenderwamo n'ibinyabiziga byinshi, harimo ama moto ndetse n'amagare ahetse abagenzi. Uyu muhanda ukaba ukikijwe n'ibiti byinshi kandi byiza ndetse inyuma y'aho hakaba haparitswe n'ibindi binyabiziga binini harimo nk'amakamyo y'umweru.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatse mu buryo bugezweho ndetse bufasha n'ibinyabiziga biwugenderamo kutangirika. Uyu muhanda ukaba ukukijwe n'utuyira dutoya tw'abanyamaguru, ndetse uyu mumuhanda ukaba uri kugenderwamo n'ibinyabiziga binini cyane byikorera imizigo ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Uyu muhanda ukaba ukikijwe n'ibiti byinshi.

Umuhanda nyabagendwa, bigaragara ko harimo imoto n'umumotari uyitwaye, kandi kumpande zaho hakaba harimo inzu zisaza neza cyane zifite amarange y'umweru, kandi imbere yazo hakaba hagiye hari indabo nziza cyane.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho . Uyu muhanda kandi ukaba uri kugenderwamo n'ikinyabiziga gifite amabara y'umweru ndetse n'ay'icyatsi aho gitwara abagenzi benshi cyane . Ikinyabiziga kandi kikaba gitwara abantu benshi mu bice bitandukanye uyu muhanda kandi ukaba ukikijwe n'utuyira duto twagenewe abanyamaguru ndetse kuru ruhande hakaba hateye ibiti.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe ku buryo bugezweho, aho harimo amapikipiki, ndetse harimo n'amagare, ndetse n'ibinyabiziga bitandukanye bitwara abagenzi. Uyu muhanda ukaba ukikijwe n'ibiti byiza, ndetse n'uduhanda duto tw'abanyamaguru.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho, uyu muhanda uri kugenderwamo n'ikinyabiziga cya pikipiki gitwaye abantu babiri bambaye ingofero z'ubururu zibarinda impanuka. Uyu muhanda ukikijwe n'inzu z'imiturire aho abaturage babamo.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho umuhanda ukaba waratangiye kwangirika ndetse ukaba ufite ahantuwagiy ucukagurika uyu muhanda ukaba kugenderwamo n'ikinyabiziga cy'umuhondo cyikoreye imizigo myinshi harimo amamatera yo kuraraho uyu muhanda kandi ukaba uri kugenderwamo n'ikindi kinyabiziga cy'umutuku ndetse ukaba ukikijwe n'utuyira dutoya tw'abanyamaguru uyu muhanda kandi ukaba ukikijwe n'ibindi biti biteye imbere yawo.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho uri kugenderwamo n'ipikipiki itwawe n'umumotari ndetse utwaye umugenzi, haparitsemo kandi igare ryegereye agahanda gato k'abanyamaguru.

Umuhanda mwiza wubatswe mu buryo bugezweho bikaba bifasha ibinyabiziga kutangirika. Uyu muhanda ukaba urimo ikinyabiziga cy'umutuku kinini cyane, cyikorera ibintu byinshi; ndetse kandi hakaba harimo igare risanzwe ndetse n'akayira gato k'abanyamaguru.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho. Uyu muhanda kandi ukaba urimo n'ikinyabiziga cy'umweru gitwara imizigo kiyivana hanze y'igihugu. Uyu muhanda kandi ukaba ukikijwe n'utuyira dutoya tw'abanyamaguru ndetse ukaba ukikijwe n'ibiti byinshi.

Umuhanda mwiza cyane wa kaburimbo ukikijwe n'igiti cy'itara ndetse n'ibindi biti bisanzwe ,uri kugenderwamo n'abanyamaguru harimo umunyamaguru, utwaye imizigo ayijyanye ahantu ndetse n'imodoka itwara imiti ku bigo nderabuzima by'akarere.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe ku buryo bugezweho. Uyu muhanda ukaba ufite umurongo w'umweru urombereje werekana imbibi z'umuhanda ndetse hakaba hari kugenderwamo n'ikinyabiziga kinini cyikorera imizigo myinshi. Uyu muhanda kandi ukaba uri kugenderwamo n'ibindi binyabiziga bitandukanye aho harimo n'amagare ndetse n'ibindi bitandukanye. Uyu muhanda ukaba ukikijwe n'ibikorwaremezo bitandukanye, harimo amazu y'ubucuruzi ndetse n'akorerwamo n'ibindi, ku ruhande kandi hakaba hari akayira kagenewe abanyamaguru bari kugenderamo.

Iki ni ikinyabiziga kiri mu muhanda cya tagisi gitwara abantu batarenze cumi n'umunani, ikaba iri mu muhanda mwiza wa kaburimbo ndetse uboneye imodoka, harimo ibinyabiziga byinshi ndetse n'amatara yo mu muhanda ayifasha gutambuka.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho. Uyu muhanda ukaba ufite aho abanyamaguru bambukira ndetse ukaba ukikijwe n'utuyira tw'abanyamaguru. Uyu muhanda uri kugendwamo n'amapikipiki abiri atwawe n'abamotari bambaye ingofero zibarinda impanuka.

Umuhanda wubatswe mu buryo bugezweho, aho harimo imodoka ebyiri nini cyane ziri kubisikana, uyu muhanda ugenderwamo n'ibinyabiziga bitandukanye ndetse hakaba hari kugenderwamo n'abanyamagare ndetse umuhanda ukaba ukikijwe n'ibiti bitandukanye bituma haba umuyaga mwiza.

Umuhanda mwiza wubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere wa kaburimbo. Uyu muhanda ukaba urimo ikinyabiziga gifite amabara y'umweru n'ubururu gitwara imizigo minini. Akaba ari kugenderwamo n'igare rihetse umugenzi ndetse ku kuruhande akaba hsri akayira kagenewe abanyamaguru, inyuma kandi hakaba ateye ibiti ndetse hagaragara n'amazu y'imiturire ari ku wundi musozi.

Ikibuga cy'umupira cyubatswe ku buryo bugezweho, iki kibuga kikaba kirimo amazamu bakiniramo ndetse hakaba harimo na tapi y'icyatsi ndetse hari gukinirwamo n'abantu benshi batandukanye, inyuma y'iki kibuga hakaba hateye ibiti byinshi by'ubwoko butandukanye kugira ngo hase neza.

Inyubako ndende isa n'amabara ya oranje ndetse n'ibirahure biyigize, icyapa kinini cy'umukara kiriho amagambo ya gihozo hoteli yanditse mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru, ibinyabiziga biparitse imbere y'iyo nyubako ndetse n'abantu bagiye barimo baracaho.

Ikibuga cyiza cy'umukino w'amaboko wa basiketi ndetse n'inyuma yaho hakaba hari ibiti ndetse n'inyubako nziza zigezweho zizamuye zigereritse, izi nyubako zikaba zubakishijwe amatafari ndetse zisakarishijwe n'amabati y'umutuku.

Hirya no hino ugenda usanga hari amasoko atandukanye kandi acuruza ibicuruzwa bitandukanye, ariko amenshi murayo masoko usanga ahuriyeho n'uko abacuruza ibintu bijyanye n'imyenda cyangwa se imyambaro y'abantu bagiye batandukanye. Ayo masoko yose ugasanga ari ingirakamaro cyane mu iterambere ry'umuturage ukamufasha kwiteraza imbere mu buryo bumwe kandi akanamufasha no kubaho neza mu buryo bw'imyambarire.

Ikibuga cy'ibyatsi gikinirwamo imikino itandukanye. Iki kibuga kandi kikaba gikikijwe n'ibiti byinshi ndetse n'utuyira abanyamaguru bacamo. Iki kibuga kikaba gikinirwamo imikino myinshi harimo iy'amaguru ndetse n'indi itandukanye ndetse kandi hakaba hakinirwamo n'iy'amaboko itandukanye. Iki kibuga kikaba gikikijwe n'ibiti by'amatara bimurika nijoro kugira ngo nijoro babone.

Icyapa cya mpande eshatu gifite umuzenguruko w'umutuku ndetse n'ishusho y'umukara, iki cyapa kikaba kiburira ibinyabiziga ko imbere bari kubaka umuhanda bityo bikagenda byigengesereye kugira ngo bitaza guhura n'inkomyi n'imwe.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho. Uyu muhanda ukaba urimo imirongo y'umuhondo ndetse n'iy'umweru yerekana imbibi z'umuhanda. Uyu muhanda ukaba ukikijwe n'icyapa cya mpande eshatu, gifite umuzenguruko w'umutuku ndetse n'ubuso bw'umukara. Uyu muhanda ukaba ukikijwe n'ibindi bintu bitandukanye, harimo ibikuta ndetse harimo n'indabo nziza.

Icyapa cya mande enye gihagaze gifite umuzanguruko w'umukara ndetse kikaba gifite ubuso bw'umuhondo. Iki cyapa kikaba kiburira ibinyabiziga ko uwo muhanda hari amabuye ari ku musozi amanuka yikubita mu muhanda.

Icyapa cyo mu muhanda gifite umuzenguruko w'umutuku ndetse hakaba hacishijwemo n'umurongo utukura. Iki cyapa kikaba kiburira abanyamagare ndetse n'ibindi binyabiziga bitwarwa n'amagare, ko bitemerewe kuhaca muri uwo muhanda.

Hari ifoto ya Kagame yanditse mu mudugudu wa radari tuzamutora ijana kw'ijana, abantu bambaye ibitambaro bya FPR imipira, ingofero ndetse bafite n'ibyapa byanditseho FPR, biragaragara yuko umuryango wa FPR wari uri kwiyamamaza kuko bafite n'ifoto ya Paul Kagame.

Icyapa cyo mu muhanda kiranga ndetse kikajya kimenyesha abanyamaguru ndetse n'abagenzi ndetse n'abatwaye ibinyabiziga ko ukomeje imbere weherekeza i Muhanga, Huye n'akanyaru wakata ku ruhande ukerekeza kinazi na Ruhango . Iki cyapa kandi inyuma hakaba hari imiturire y'amazu ndetse inyuma hakaba hateye n'ibiti bitandukanye.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo urimo imirongo y'umuhondo ndetse n'umweru yerekana imbibi z'umuhanda, umuhanda kandi ukaba uriho ibyapa byinshi ndetse ukaba uriho icyapa cyerekana ko imbere hari aho imodoka ziparika, umuhanda ukaba ukikijwe n'ibiti byinshi ndetse ukaba uri kugenderwamo n'abanyamaguru batandukanye.

Iki ni ikimenyetso cyifashishwa mu byapa byo ku muhanda, baburira abagenzi ndetse n'abayobozi b'ibinyabiziga ko imbere bari gukora umuhanda bityo bagatwara bitonze kugirango hataba inkomyi.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo ndetse urimo n'imirongo y'umweru yerekana imbibi z'umuhanda. Uyu muhanda kandi ukaba ukikijwe n'ibyapa byo mu muhanda bishobora kuranga ndetse no kuyobora ibinyabiziga. Iki cyapa kikaba kiri mu busitani bwiza buteye imbere y'umuhanda. Uyu muhanda kandi ukaba uri kugenderwamo n'ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye.

Icyapa cyo mu muhanda kigizwe n'umuzenguruko w'umutuku ndetse n'ikimenyetso cy'umukara n'umurongo ucamo w'umutuku, ubuza imodoka cyangwa ibinyabiziga byose binyuramo uko kugenda imbere ugakata ibumoso bitemewe.

Icyapa cya mpande eshatu gifite umuzenguruko w'umutuku ndetse n'ikimenyetso cy'umukara, iki cyapa gishyirwa mu muhanda yisukiranyamo n'indi kugira ngo imenyeshe ibinyabiziga ko uyu muhanda uhura kugira ngo birinde impanuka.

Icyapa gifite umuzenguruko wumutuku ndetse giciyemo n'umurongo w'umutuku, iki cyapa kiba kimanitse ahantu mu muhanda kibuza cyangwa kiburira ko umuhanda kunyuramo kw'ibinyabiziga birimo moto ndetse n'imodoka ntoya bitemewe.

Icyapa cyo mu muhanda kigizwe n'pande umunani gifite ubuso bw'umutuku n'umweru, ndetse kikaba cyanditswemo guhagarara, kikaba kimenyesha abanyamaguru cyangwa abagenzi cyangwa gukoresha umuhanda uwa ariwo wose, kwitonda bagabanya umuvuduko byaba ngombwa bakanahagarara kugira hataba inkomyi.

Icyapa cya mpande eshatu gifite umuzenguruko w'umutuku ndetse kikaba gifitemo n'ibishusho y'umukara, iki cyapa kikaba kiburira abagenzi ndetse n'abatwazi b'ibinyabiziga ko imbere hari ahantu ho kwambukira mu muhanda, iki cyapa kikaba gikikijwe n'urukuta rw'amabuye ndetse n'ibiti bigikikije.

Icyapa cyo mu muhanda cya mande eshatu gifite ubuso bw'umutuku ndetse kikaba gifite n'ishusho y'umukara. Iki cyapa kikaba kimanikwa, kiburira ibinyabiziga, ndetse n'abantu bahagendera ko imbere hari abantu bahambukira kandi ari benshi. Iki cyapa kikaba gikikijwe n'insinga z'amashanyarazi ndetse kikaba gikikijwe n'indabo nyinshi n'ibiti.

Imodoka isa umukara irimo irinjira mu muhanda wa kaburimbo imbere yaho hari icyapa gisa umutuku cy'umurongo w'itumanaho wa Eyateri iruhande hakaba hari igipangu cy'icyatsi kiriho urukuta rw'umweru hari amatafari ya ruriba n'ibyapa byo mu muhanda bikoreshejwe ibyuma, imodoka ziri imbere hari n'igikuta cyanditseho mitsingi.

Icyapa kigizwe na mpande eshatu, gifite umuzenguruko w'umutuku ndetse n'ikimenyetso cy'umukara. Iki cyapa kimenyesha ibinyabiziga ko imbere hari ahantu haterera cyane, ndetse hakongera hakamanuka, hakongera hagaterera cyane, kugira ngo ikinyabiziga kihagere cyiteguye.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo buteye imbere ndetse ikaba ifite ibyumba byinshi cyane harimo iby'ubucuruzi ndetse n'ibindi byo kubamo, inyubako ikikijwe n'imodoka nyinshi ndetse n'abantu, n'abanyamaguru ndetse n'abamotari bahetse abagenzi .

Abantu babiri b'abazungu bari kugenda mu muhanda w'amabuye mwiza, ndetse n'undi muntu ubari imbere, hirya yabo haparitse imodoka nziza zitandukanye z'amabara atandukanye nk'iy'umutuku ndetse n'iyindi y'umukara, imbere hari ibiti bateye ndetse n'ubusitani bwiza.

Inyubako yubatswe mu buryo bwiza kandi bugezweho bunogeye amaso, iyi nyubako igeretse gatatu ndetse ikaba itatswe n'imitako myinshi, inyubako ifite inzu z'ubucuruzi ndetse n'ahabugenewe haparika ibinyabiziga, inyubako kandi ikaba iherereye ahantu heza hafasha abaturage kuhagera.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho ino nyubako ikaba ifite ibyumba byinshi byo gukorerwamo ibikorwa bitandukanye ndetse hakaba hariho n'ibyapa byerekana buri gikorwa gikorerwa muri buri cyumba ino nyubako kandi ikaba yubatswe mu buryo bwa kijyambere aho igeretse hanze kandi y'ino nyubako hakaba hari ibiti by'imitako ndetse hakaba haparitse n'imodoka zitandukanye.

Umuhanda mwiza w'amabuye uri kugenderwamo n'abanyamaguru ndetse n'abantu batandukanye, uyu muhanda uri kugenderwamo n'abazungu ndetse n'abirabura, kandi imbere y'uwo muhanda hakaba haparitse imodoka z'ubwoko butandukanye zifite n'amabara atandukanye ariyo y'umutuku n'umukara.

Umudepite Frank Habineza ubwo yari ari mu nteko ishingamategeko y'u Rwanda iherereye Kimihurura, yari ari gufata ifoto akaba yarigeze no kwiyamamariza umwanya w'umukandida k'umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye bibiri na cumi na karindwi ndetse na bibiri na makumyabiri na kane.

Inyubako yubatswe neza ndetse ifite imitako myinshi, ikaba ifite ibirahure byinshi kandi byiza, inyubako isizwe irangi ryiza ikaba ifite ibyumba byinshi byo gukorerwamo, ifite igipangu cyiza ndetse ikaba yegereye umuhanda.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho, ukikijwe n'ubusitani bwiza burimo ibyatsi bitandukanye ndetse n'ibiti ndetse kandi ukikijwe n'inzu nini yubatswe mu buryo bugezweho, iriho icyapa cy'inzoga.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye harimo ubwoko bwinshi bw'imodoka ndetse n'abamotari batwaye abagenzi, ku nkengero z'umuhanda hari abanyamaguru ndetse hari inyubako nziza zigezweho zigeretse kenshi.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho ,aho ukikijwe n'ibikorwaremezo byinshi harimo inyubako nziza zigezweho zigeretse inshuro nyinshi. Uyu muhanda kandi ukaba ukikijwe n'ibiti bitandukanye ndetse n'ibyatsi.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho, ndetse hakaba hari igiti kiri ku ruhande ndetse n'inyubako nziza zubatse ziriho imitako y'imigongo ya kinyarwanda, uyu muhanda ukaba uparitsweho imodoka ndetse uri kunyurwamo n'abantu.

Uku ni uko bishyura amafaranga bakoresheje ikoranabuhanga bisa nk'aho ari mu gihugu cy'Ubwongereza, umuntu yari yohereje amafaranga igihumbi berekana n'undi ayo aribuze kwakira, kandi biba byerekana nimba ukoresheje ikarita za banki cyangwa izindi zose waba ukoresheje birabyerekana.

Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho n'inyubako ikaba yubatswe igeretse ndetse ikaba ifite imitako myinshi ndetse n'ibikuta byayo bikaba bisize amarangi meza ndetse inyubako ikaba ifite amadirishya manini afite ibirahuri byiza kandi yisanzuye .

Umuhanda w'igitaka uri kugenderwamo n'ibinyabiziga bitandukanye bitwara abantu bake, uyu muhanda kandi ukaba ukikijwe n'ibikorwa remezo byinshi, harimo amazu y'ubucuruzi ndetse n'ahantu imodoka ziparitse, uyu muhanda kandi ukaba ukikijwe n'ibiti bituma umujyi usa neza.

Umuhanda mwiza w'amabuye wubatswe mu buryo bugezweho ndetse ukaba ukikijwe n'undi muhanda bitandukanye. Umuhanda ukaba uri kugenderwamo n'abantu benshi ndetse harimo abazungu n'abirabura. Kandi kuruhande hakaba haparitse imodoka zitandukanye ndetse hakaba hari n'ubusitani burimo indabo nyinshi n'ibiti.

Umuhanda wubatswe mu buryo bugezweho wa kaburimbo. Umuhanda ukaba urimo imirongo yerekana imbibi z'umuhanda ndetse ukaba ukikijwe n'ibiti n'ubusitani buteyemo indabo nziza. Umuhanda wo kuruhande ukaba uri kugenderwamo n'ibinyabiziga ndetse n'amapikipiki. Uyu muhanda ukaba ukikijwe n'inzu nini ikorerwamo ubucuruzi ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye.

Uyu ni umuhanda mwiza cyane ugezweho wa kaburimbo, uri kugenderwamo n'abamotari ndetse ukikijwe n'ibiti byiza, bitanga umuyaga ku baturage ndetse n'inzu z'imiturire.

Umuhanda usanzwe w'igitaka, ukikijwe n'ibikorwa remezo bitandukanye, harimo amazu menshi y'imiturire ndetse n'andi akorerwamo n'ibindi bikorwa bitandukanye. Aya mazu akaba yubatswe mu buryo bwiza bwa kijyambere bugezweho, aho ufite amarangi meza ndetse akaba afite n'ibisenge byiza.

Ubusitani bwiza cyane burimo ibiti bya kimeza bifite amababi menshi n'amashami matoya harimo ndetse n'indabo nziza z'amoko menshi harimo n'ibyatsi bya kimeza harimo ibicucucucu byakozwe n'ibyo biti kubera izuba riri kuva.

Ahantu hubatswe inzu nyinshi z'ubwoko butandukanye. Muri izi nzu harimo inzu nziza zigeretse, inzu nziza z'imiturire ndetse n'inzu z'abantu batifashije. Izi nzu hakaba harimo n'iziri mu manegeka ndetse n'inzu nziza. Hatewemo kandi ibiti bitandukanye kandi muri ano mazu hari amazu agereretse kenshi y'ubucuruzi.

umuhanda wubatswe mu buryo bugezweho uri kugenderwamo n'ikinyabiziga cy'umweru gitwara abantu, iki kinyabiziga kikaba kiri kugendera muri uyu muhanda ukikijwe n'utuyira tw'abanyamaguru, uyu muhanda kandi ukaba ukikijwe n'ibindi biti byinshi bimeze nk'ishyamba.

Umuhanda mwiza wubatswe mu buryo bugezweho w'amabuye, ukikijwe n'inzu zitandukanye z'imiturire harimo inzu ifite igisenge kinini cy'amabati y'umutuku ndetse ifite n'igipangu cyiza, uyu muhanda kandi ukaba ukikijwe n'ibiti by'amashanyarazi bitwara umuriro ku baturage kugirango bacane.

Inyubako nziza ifite imiryango minini ndetse ikaba itangirwamo serivisi zitandukanye, ni inyubako ikaba ifite aho kwicara ndetse ikaba ifite n'ubusitani bwiza, ni nyubako ikaba ikikijwe n'ibiti byubatswe imbere yayo ndetse n'utundi dutebe two kwicaraho.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho, umuhanda kandi ukaba urimo imirongo minini yagenewe kwambukirwamo n'abanyamaguru, umuhanda ukaba urikugenderwamo n'ibinyaziga bitandukanye ndetse ku ruhande hakaba hari inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho aho ikorerwamo ibikorwa bitandukanye bifasha abaturage ndetse kandi naho hakaba haparitse imodoka nyinshi zitandukanye.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho, uyu muhanda ukaba ufite aho abanyamaguru bambukira ndetse ukaba urimo n'ibinyabiziga byinshi ndetse n'abanyamaguru, uyu muhanda ukikijwe n'ibiti byinshi ndetse ukaba ufite n'ibiti by'amatara.

Umugabo w'imisatsi migufiya w'inzobe ufite ubwanwa bwo hejuru wambaye umupira wo kwifubika urimo amabara atandukanye ubururu, umweru n'umukara wambariyemo ishati, araburanishwa.

Umuhanda wubatswe mu buryo bwiza bugezweho kandi bunogeye amaso. N'umuhanda wubatswe ku buryo butabangamira ibinyabiziga biwugendamo, umuhanda ukikijwe n'ibiti bitandukanye harimo ibiti by'amashanyarazi bimurikira nijoro muri uyu muhanda, ndetse n'ibiti bisanzwe. Uyu muhanda kandi ukaba ukikijwe n'utuyira duto tw'abanyamaguru banyuramo.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho. Uyu muhanda kandi ukaba ufite imirongo minini y'umweru aho yagenewe kwambukirwamo n'abanyamaguru. Ndetse hakaba harikugenderwamo n'ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye, ndetse hakaba harimo n'ibyapa byinshi. Uyu muhanda kandi ukaba ukikijwe n'ubusitani bwiza burimo ibiti by'imitako ndetse n'indabo z'ubwoko bwinshi. Uyu muhanda kandi ukaba uriho ibiti by'amatara bimurika igihe ijoro rigeze.

Icyuma gikoresha ikoranabuhanga aho kiri mu busitani bwiza cyane kegereye n'igiti, ndetse inyuma yacyo hakaba hari inzu, iki cyuma cyifashishwa gufata camera cyangwa se amashusho y'ibinyabiziga byangije amategeko y'umuhanda kugirango bize guhanwa.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe ku buryo bugezweho, uyu muhanda kandi ukaba ufite irungo y'umweru ndetse n'iy'umuhondo yerekana imbibi z'umuhanda, hirya kandi hakaba ubusitani buteyemo ibiti by'amatara bimurika igihe bwije, ndetse hakaba hatewe n'ibiti byinshi bitandukanye by'ubwoko bwinshi.

Iyi ni inzu y'ubwishingizi ahangaha uraza bakaguheza ubwishingizi. Ugashinganisha ibikorwa byawe, ugashinganisha amazu yawe, ugashinganisha umuryango wawe n'abana bawe.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho, uy’umuhanda kandi ukaba urimo imirongo y'umweru ndetse n'iy'umuhondo yerekana imbibi z'umuhanda, ndetse kandi hakaba harimo imirongo minini y'umweru aho abanyamaguru bambukira, ku ruhande kandi hakaba hakikijwe n'utuyira duto tw'abanyamaguru, ndetse ku ruhande hakaba hatey’indabo zitandukanye ndetse n'ibiti byinshi bituma umujyi usa neza.

Imihanda myiza ya kaburimbo yubatswe ku buryo bugezweho, uyu muhanda ukaba ufite imirongo minini y'umweru ifasha abanyamaguru kwambukirwamo, ndetse kandi ikaba ifite utuyira dutoya two ku ruhande aho abanyamaguru baca, ndetse kandi uyu muhanda ukaba uri kugenderwamo n'ibinyabiziga, imbere yabo hakaba hakikijwe n'ibiti byinshi, ndetse hakaba n'ibyapa byamamariza ibintu byinshi bitandukanye.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho. ndetse ukaba ufite n'imirongo igabanya imbibi z'umuhanda. Uyu muhanda ukaba kugenderwamo n'ibinyabiziga bitandukanye harimo amamodoka atwara abantu ndetse n'abagenzi, ndetse hakaba harimo n'amapikipiki atwaye abantu, uyu muhanda kandi ukaba ukikijwe n'utuyira duto tw'abanyamaguru ndetse n'aho imodoka ziparika umwanya muto.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bwa kijyambere bugezweho; ufite aho abanyamaguru bambukira hatandunye, ukikijwe n'ibiti by'amatara biwucanira nijoro kugira ngo habone, uyu muhanda ukikijwe n'ibiti byinshi ndetse n'ibyatsi bituma haba heza kurushaho.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe ku buryo bugezweho. Uyu muhanda ukaba ufite imirongo y'umweru yerekana imbibi z'umuhanda ndetse hakaba hariho n'amatara yo ku muhanda amurika mu gihe bwije. Uyu muhanda kandi ukaba ukikijwe n'ibiti byinshi ndetse hakaba n'ibyapa by'ubwoko butandukanye harimo n'ibiyobora ndetse n'ibiburira abantu ko imbere hari ahantu habugeneweho abanyamaguru bambukira.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo urimo imirongo y'umuhondo ndetse n'imirongo y'umweru yerekana imbibi z'umuhanda. Uyu muhanda uka kugenderwamo n'ibinyabiziga bitandukanye ndetse ukaba ukikijwe n'ibiti byinshi ndetse n'amazu akorerwamo ibikorwa bitandukanye.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho, uyu muhanda ufite imirongo y'umuhondo ndetse n'imirongo y'umweru yerekana imbibi z'umuhanda, uyu muhanda ufite aho abanyamaguru bambukira ndetse ukaba ukikijwe n'ibiti byinshi uri kugenderwamo n'ibinyabiziga bitandukanye.

Umuhanda mwiza wubatswe mu buryo bugezweho wa kaburimbo, uyu muhanda ukaba wisuka mu wundi muhanda wubatswe muri ubu buryo ndetse ukaba ukikijwe n'ibiti byinshi, uyu muhanda kandi hakaba hariho ibiti by'itara bimurikira muri uyu muhanda ndetse hakaba hari indabo zituma uyu muhanda usa neza.

Urujya ni uruza rw'abantu bari kwamamaza umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu bakaba barimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba biganjemo abantu bambaye imyenda y'ibara ry'icyatsi, bari mu ma tente arimo amabara y'umweru, icyatsi n'umuhondo, bamwe bakaba bafite ibyapa biriho ifoto y'umugabo wambaye kositime byanditseho ngo tora, bakaba bacyikijwe n'ibiti byinshi ku musozi.

Umuhanda wubatswe mu buryo bwiza kandi bugezweho umuhanda ukaba ufite imirongo y'umweru yerekana imbibi z'umuhanda ndetse n'urangirira, umuhanda ukaba ufite n'indi mirongo minini y'umweru y'abanyamaguru aho ariho bambukira, mu muhanda kandi hakaba harimo ibiti by'amatara bifasha kwambuka ndetse hakaba hari kugenderwamo n'ibinyabiziga byinshi bitandukanye.

Umuhanda munini w'ibyerekezo byinshi uri kugenderwamo n'ibinyabiziga bitandukanye yaba imodoka nini n'intoya ndetse n'abamotari bagendera ku ruhande uyu muhanda ni mwiza wa kaburimbo ukaba unameze neza ku buryo utakangiza ibinyabiziga .

Umuhanda wubatswe mu buryo bugezweho ndetse ukaba unogeye amaso, uyu muhanda kandi imbere hakaba hari ikiraro kigezweho na cyo cyubatswe mu buryo bwiza, uyu muhanda ukaba kugenderwamo n'amapikipiki ndetse n'imodoka nini zikorera imizigo, uyu muhanda ukikijwe n'ibiti byinshi ndetse n'akayira k'abanyamaguru bacamo.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho, uyu muhanda kandi ukaba ufite imirongo y'umuhondo yerekana imbibi z'umuhanda, uyu muhanda ukaba wisukiranyamo n'indi bigakora umuhanda munini, uyu muhanda ukaba ukikijwe n'ibiti byinshi, ndetse ukaba ufite utuyira dutoya tw'abanyamaguru ukaba uri kugenderwamo n'ipikipiki, kandi hirya hakaba harimo n'ibyapa byamamariza.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo urimo imirongo y'umuhondo werekana imbibi z'umuhanda, umuhanda ukaba uri kugenderwamo n'ibinyabiziga bitandukanye harimo imodoka ndetse n'ipikipiki ihetse umuntu, uyu muhanda kandi ku ruhande hakaba hateye ubusitani bwiza burimo ibiti by'amatara ndetse hirya ku ruhande hakaba hatera n'ibiti bituma umujyi usa neza.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho uyu muhanda kandi ukaba urimo imirongo itandukanye harimo iy'umuhondo ndetse n'umweru yerekana imbibi z'umuhanda, uyu muhanda ukaba ukikijwe n'ibiti byinshi ndetse hagati hakaba harimo n'ibiti by'amatara bicana igihe bwije, umihanda kandi kwiye ukaba iri kugenderwamo n'abanyamaguru batandukanye ndetse ndetse ku ruhande hakaba hari n'izindi nzu z'imiturire.

Uyu ni umuhanda mwiza cyane, ukaba ufite aho kwambukira h'abanyamaguru, ndetse n'ibiti by'amatara biyobora abagenzi. Uyu muhanda kandi Ukikijwe n'ibikorwaremezo byinshi bitandukanye, nk'inzu nziza zigezweho kandi zikorwamo ibikorwa remezo byinshi. Uyu muhanda ukaba ugenderwamo n'ibinyabiziga byinshi bitandukanye by'amoko yose.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho, uyu muhanda ukaba waratangiye kwangirika ndetse ukaba urimo ibisate byo kumenagurika, uyu muhanda kandi ukaba ukikijwe n'ibiti byinshi ndetse n'ubusitani bwiza. Uyu muhanda ukaba uriho ibyapa bitandukanye harimo ibiranga ndetse n'ibiyobora ibinyabiziga ndetse kandi hakaba hari kugenderwamo n'ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'amapikipiki.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo urimo imirongo y'umweru ndetse n'iy'umuhondo yerekana imbibi z'umuhanda. Uyu muhanda ukaba ukikijwe n'ubusitani bwiza burimo indabo ndetse n'ibyatsi byinshi. Uyu muhanda kandi ruguru y'aho hakaba hatewe ibiti byinshi ndetse hakaba harimo n'ibyapa biyobora abagenzi, harimo kugenderwamo n'ibinyabiziga birimo amapikipiki meshi atandukanye ndetse n'imodoka zo mu muhanda.

Uyu ni umuhanda ugezweho wa kaburimbo urimo imodoka zitandukanye ndetse n'abamotari. Uyu muhanda ukaba uriho ibiti biyobora abantu bizwi nka feruje, ndetse n'aho abanyamaguru bambukira hagati mu muhanda.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho uyu muhanda ukaba ufite imirongo y'umuhondo yerekana imbibi z'umuhanda uyu muhanda kandi kumpande hakaba hateyeho indabo ndetse n'ibiti by'ubwoko butandukanye kugira ngo uno muhanda ube usa neza.

Umuhanda usanzwe w'igitaka ndetse ukikijwe n'inzu z'imiturire n'ibiti bitandukanye, uyu muhanda w'igitaka ukaba uri kugenderwamo na pikipiki yikorera imizigo. Uyu muhanda kandi ukaba utemerera imodoka nini kuba zacamo kuko ziwubangamira.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo ufite imirongo y'umweru yerekana imbibi z'umuhanda, uyu muhanda ukaba ufite imirongo minini y'umweru aho abanyamaguru bambukira ndetse umuhanda ukaba kugenderwamo n'ibinyabiziga bitandukanyerimo amapikipiki ndetse n'imodoka umuhanda kandi ukaba ukijwe n'ibiti byinshi ndetse n'ibyatsi.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho. Uyu muhanda ukaba wubatswe munsi y'ikiraro gifite inkingi nyinshi ndetse n'ibyuma hejuru bitangira ibinyabiziga kugirango bidakora impanuka bikikubita hasi. Ndetse kandi uyu muhanda ukaba ukikijwe n'utuyira duto tw'abanyamaguru ndetse ukaba ukikijwe n'ibiti byinshi byatewe kugira ngo umugi use neza.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho, uyu muhanda ukaba ukikijwe n'ibiti byinshi by'amatara biwumurikira nijoro, uyu muhanda uri kugenderwamo n'ibinyabiziga byacanye amatara kubera bwije, uyu muhanda kandi ukaba ufite ibyapa byo ku muhanda byinshi.

Umuhanda w'abanyamaguru mwiza cyane wubatse mu buryo buteye imbere kandi bugezweho, umuhanda ukaba ukikijwe n'amabuye menshi ndetse hirya yahoka hakikijwe ibiti byinshi ndetse n'indabo, uyu muhanda ukaba uri mwiza cyane ku buryo wagenderwamo n'abanyamaguru bisanzuye.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugenzweho. Uyu muhanda ukaba ufite imirongo y'umuhondo ndetse n'iy'umweru yerekana imbibi z'umuhanda. Umuhanda ukaba uri kugenderwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, harimo amapikipiki atwawe n'abamotari, ndetse n'ibindi binyabiziga by'imodoka. Umuhanda kandi ukaba ukikijwe n'indabo ndetse n'ibindi biti, bituma hasa neza.

Umuhanda mwiza wubatswe ku buryo bugezweho wa kaburimbo, aho ufite imirongo y'umweru ndetse n’iy'umuhondo yerekana imbibi z'umuhanda. Uyu muhanda ukaba ufite akayira gato kagenewe abanyamaguru, ndetse ukaba uri kugenderwamo n'ibinyabiziga mu byerekezo byombi. Uyu muhanda ukaba ukikijwe n'ibiti byinshi, ndetse ukaba ukikijwe n'ibiti by'amatara bimurika igihe ijoro rigeze.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo urimo kugenderamo ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru, uyu muhanda ni mwiza ukikijwe n'ibiti by'amatara biwucanira ni mugoroba hatabona ndetse ukagira aho abanyamaguru bambukira, umuhanda ukikijwe n'ibiti byiza ndetse n'indabo z'ubwoko butandukanye, ndetse hirya hakaba hari ahapavomye, aho ariho abanyamaguru bagendera.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe munsi y'ikiraro. Iki kiraro kikaba cyubatswe mu buryo bwiza, kikaba gifite inkingi zikomeye, bityo kikaba kitagwa. Iki kiraro kikaba gikikijwe n'igiti cy'amatara kimurika mu gihe bwije ndetse n'ibindi biti bateye kugira ngo hase neza.

Umuhanda mwiza wa kijyambere uri kugenramo imodoka w'icyerekezo kimwe ukikijwe n'ibiti ndetse ukikijwe n'aho baparikira imodoka, hari icyapa cyerekana ko guparika ahongaho bitemewe.

Ahangaha turabona umuntu wari uvuye guhaha igikioresho kifashishwa muburyo bwo kurwanya inkongi y'umuriro. Iki gikoresho mugihe inkongi yaguteye utiteguye uramutse ugifite munzu cyagufasha cyangwa ahantu ukorera.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho kandi witaruye, uyu muhanda kandi ukaba ufite imirongo itandukanye yerekana imbibi z'umuhanda, uyu muhanda ukaba uri kugenderwamo n'ibyabiziga byacanye amatara kugira ngo habone ndetse ukaba ukikijwe n'ibiti by'amatara bicana nijoro. Uyu muhanda kandi ukaba ukikijwe n'izindi nzu z'ubucuruzi zikorerwamo ibikorwa bitandukanye bya leta ndetse n'iby'abandi bigenga.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho, uyu muhanda ukaba ufite imirongo y'umweru uyigabanya bwerekana imbibi z'umuhanda uyu muhanda ukaba ufite aho ibinyabiziga biparikira umwanya muto cyangwa munini ndetse n'utuntu dutoya, tw'abanyamaguru imihanda kandi ukaba ukikijwe n'ibiti bimurika n'ijoro by'amatara ndetse n'utuyira dutoya turimo ubusitani, uyu muhanda kandi ukaba ukikijwe n'ibiti byinshi.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe ku buryo bugezweho, uyu muhanda ukaba ufite imirongo y'umweru yerekana imbibi z'umuhanda, ndetse ukaba ufite n'ahantu habugenewe aho abanyamaguru bambukira, uyu muhanda ukaba ukikijwe n'ibiti byinshi ndetse hakaba hari n'amatara yo mu muhanda ayobora imodoka uko zigenda n'uko zikurikirana.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho, uyu muhanda ukaba ukikijwe n'ubusitani burimo ibyatsi byiza ndetse n'ibiti by'imitako. Uyu muhanda kandi ukaba ukikijwe n'ibiti byinshi ndetse ukaba uri kugenderwamo n'ibinyabiziga bitandukanye by'umukara ndetse hakaba hari kugenderwamo n'amapikipiki. Uyu muhanda kandi ukaba ukikijwe n'ibindi bikorwaremezo bitandukanye.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezwemo urimo ibinyabiziga byinshi ndetse n'abanyamaguru ndetse n'amagare, uyu muhanda kandi ufite aho kwambukiraho h'abanyamaguru habugenewe.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe ku buryo bugezweho, aho ufite imironko itandukanye harimo iy'umuhondo ndetse n'iy'umweru, yerekana imbibi z'umuhanda, uyu muhanda ukaba uri kugendamo ipikipiki uka ufite aho abanyamaguru banyura, ndetse uyu muhanda ukaba ukikijwe n'ibiti byinshi ndetse n'ubusitani bwiza kugirango hase neza.